Abagore babiri bicaye batanga ikiganiro, umwe muri bo akaba afashe mikorofone atanga ikiganiro, ndetse imbere yabo hari ameza arambitseho amacupa y'amazi ayo meza akaba akikijwe n'ibitambaro by'umweru.

Inteko y'abaturage n'abayobozi mu ngeri zitandukanye, imbere hahagaze umubyeyi ufashe mikoro, atanga ikiganiro ndetse hakaba hari n'abatangazamakuru, bafashe ibikoresho byabugenewe, hirya inyuma hakaba hari indangururamajwi ndetse n'abaturage bicaye mu mucaca, abandi bicaye ahatwikiye.

Umugore ufashe mikorofone wambaye igiteteyi urimo avuga imbwirwaruhame, hasi hari ibyatsi iby'umucaca ndetse hakurya hari abantu bicaye mu mahema agizwe n'amabara y'ubururu n'umuhondo, hari isakazamajwi inyuma y'uwo mugore.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abayobozi. Ku meza harambitse amacupa arimo amazi ndetse amakayi na za mudasobwa imbere yabo zirahari. Imbere yabo kandi inyuma hakaba hari isakazamashusho yanditseho ra ebyiri ndetse na a n'igiti kiri mu mashusho.

Inzu mberabyombi yicayemo abantu bingeri zitandukanye ku imeza hakaba hakikijwe n'ibitambaro by'umukara ndetse imbere yabo hakaba hari ibikoresho by'ikoranabuhanga; mudasobwa ndetse n'ibindi bitandukanye, hakaba hari amacupa y'amazi yo kunywa ndetse n'impapuro bari kwandikaho imbere hakaba hari isakazamashusho zigaragaza ibyo bari kuganiraho.

Inzu mberabyombi, iteraniyemo abayobozi b'igihugu cyacu, imbere yabo bakaba bafashe amakaramu ndetse n'amakaye basa naho bari kwandika ibyo bari kubwirwa. Kumeza hakaba harambitse amacupa y'imitobe ndetse n'amazi, buri muyobozi wese imbere ye hakaba hari mikoro fone, ndetse hakaba hari n'igikoresho nsakazamashusho.

Ababyeyi batatu bafashe ku rupapuro bose bahuje intoki, inyuma yabo hicaye abandi bantu benshi bameze nk'abari mu nteko, hakurya hari imitako iri mu mabara y'ikirango cy'igihugu cy'u Rwanda, idarapo rigizwe n'umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu, inyuma yaho hari igipangu ndetse hejuru harasakaye.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abasore n'inkumi b'urubyiruko. Ndetse bakaba bicaye ku ntebe zisa n'umutuku. Bamwe muri bo bafashe amatelefoni, barimo barafata amashusho. Inyuma yabo hari isakazamajwi ndetse n'isakazamashusho.

Inteko y'urubyiruko rwiganjemo abasore n'inkumi bambaye impuzankano iri mu mabara y'ubururu umuyobozi uhagaze imbere ufashe mikoro ndetse wambaye n'amadarubindi n'ikote ry'umukara bisa n'aho ari kubasobanurira nangwa se ari gutanga ikiganiro.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye biganjemo urubyiruko, imbere yabo hakaba hahagaze umugore ufashe mikoro, wambaye amarinete, mu ntoki harimo ndetse n'ikayi, akaba arimo gutanga ikiganiro, imbere hakaba hari insanganyamatsiko bari kuvugaho.

Icyumba cy'inama kirimo abayobozi batandukanye, imbere ku meza hari ibitambaro by'ubururu ndetse n'amacupa y'amazi n'ibitabo ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo za mudasobwa, yicaye ku ntebe z'umukara ndetse inyuma hari n'ibirahuri n'inzugi z'umukara.

Inzi mberabyombi irimo abantu b'ingeri zitandukanye b'abayobozi. Imbere yabo hakaba hari ibyuma by'ikoranabuhanga, birimo mudasobwa ndetse na mikorofone. Inyuma y'abo bantu bicaye, hakaba hari abandi bahagaze nanone, bafashe ibyuma by'ikoranabuhanga, bifata amashusho ndetse bameze nk'aho ari itangazamakuru.

Abagore n'abagabo bicaye ku meza y'ibiganiro, imbere yabo hari za mudasobwa ndetse n'insakazamashusho riri mu ibara ry'ubururu, igaragaza amashusho mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru byanditswe mu ibara ry'umweru

Inteko y'abaturage b'ingeri zitandukanye bicaye ahantu, imbere hari undi muntu urimo kubasobanurira bameze nk'aho bari kurema inama. Inyuma y'abo baturage hakaba hari ibiti bituma babona agacucu ndetse n'akazuba n'inzu.

Icyumba cy'inama giteraniyemo abayobozi batandukanye, higanjemo abagore ndetse n'abagabo. Imbere ku meza hakaba hari ibikoresho bitandukanye birimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, mudasobwa ndetse n'amaterefoni, ibikapu byabo, impapuro ndetse n'amakaramu, barimo kwandika.

Inteko y'abagore n'abagabo imbere yabo hakaba hari umugore ufite imisatsi miremire wambaye n'ipantaro y'umukara ufashe n'ikayi imbere urimo ubagezaho ijambo, ndetse inyuma y'aba baturage hakaba hari ubwoko butandukanye bw'amamodoka ndetse n'ibyapa bitagaragara neza.

Icyumba cy'inama giteraniyemo abayobozi batandukanye, imbere ku meza hari ibikoresho bitandukanye birimo iby'ikoranabuhanga, ibya mudasobwa ndetse n'amaterefoni yabo, amacupa arimo amazi yo kunywa, umugabo uhagaze arimo abasobanurira, inyuma hari ibyapa bigaragaza insanganyamatsiko bari kuvugaho.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye biganjemo abagore, muri iyo nzu hakaba hari amabara y'umweru cyane cyane yiganje, ndetse abo bagore aho bicaye imbere yabo bamwe bakaba bafashe ibitabo ndetse n'amakaramu, imbere hakaba hari n'amazi yo kunywa.

Abagabo babiri bicaye ku ntebe z'imikara ku meza imbere y'abo hakaba harambitse amacupa y'amazi, bameze nk'aho barimo gutanga ikiganiro, inyuma yabo kandi hakaba hari isakaza amashusho yiganjemo ibara ry'ubururu ndetse n'insanganyamatsiko bari gutangaho ikiganiro yanditse mu ibara ry'umweru.

Inteko y'urubyiruko ndetse irimo urubyiruko rutandukanye rw'abakobwa ndetse n'abahungu, bakaba bambaye impuzankano iri mu ibara ry'ubururu ndetse ku gatuza harimo ibendera ry'u Rwanda riri mu mabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi n'izuba, imbere yabo hakaba hari amacupa arimo amazi abandi bafashe n'amatelefoni.

Inteko y'abayobozi ndetse n'abaturage bicaye bameze nk'aba mu mahugurwa, imbere yabo bakaba hahagaze umugabo wambaye agapira k'umuhondo ndetse ufashe na mikorofone, imbere hakaba hari n'akameza karambitseho ibitabo kari mu ibara ry'umutuku, inyuma hakaba hari ibiti bigaragara ndetse n'abandi baturage bambaye impuzankano z'umuhondo.

Inteko y'abaturage ndetse n'abayobozi, imbere hakaba hahagaze umugore ufashe mikorofone atanga ikiganiro. Ahantu bari akaba ari mu nzu nini cyane ndetse ikaba iteraniyemo abantu benshi cyane b'ingeri zitandukanye.

Inteko y'abayobozi b'intumwa za rubanda, bicaye mu nzu mberabyombi, imbere yabo hakaba hari ameza ariho amacupa ndetse na mudasobwa, hari n'inyakiramajwi ndetse na mikorofone imbere yabo.

Abayobozi bicaye ku meza y'ibiganiro, mu ntebe nziza z'ibara ry'umukara, ameza mu ibara ry'umutuku, inyuma hari ibyapa byaka byanditseho Kigali yacu.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abayobozi b'ingeri zitandukanye ndetse n'abera (abazungu), imbere yabo hakaba hari ameza ariho impapuro nyinshi zitandukanye ndetse n'ibikoresho birimo amacupa y'amazi, amatelefone, ndetse na za mudasobwa.

Inteko y'abaturage bateraniye hamwe, bitabiriye amahugurwa munzu mbera byombi, hakaba hari umuntu uri imbere yabo utanga ikiganiro ufashe mikoro, ndetse muri iyonzumberabyombi hakaba hari ibitambaro biri mu mabara y'ubururu ndetse n'umuhondo.

Abaturage n'abahobozi barimo gufata ifoto y'urwibutso muri gahunda y'ubudehe, aho abaturage bahawe amahene bafashe mu ntoki buri wese iye iye. Inyuma y'abo baturage hakaba hagaragara inzu ndetse n'icyapa n'abandi baturage bashagaye ndetse n'imyaka n'urutoki, hakaba hari n'ibirango by'igihugu cyacu.

Abasore n'inkumi bari mu nzu mberabyombi bambaye imipira y'ubururu. Bafashe amakaramu n'amakaye bari kwandika, ku meza yabo harambitse amacupa harimo amazi yo kunywa ndetse n'amatelefoni. Ameza arasa n'igitaka ndetse hari n'ibitambaro bisa n'umukara inyuma yabo ku madirishya.

Abayobozi bari mu nzu mberabyombi imbere yabo ku meza harambitse microfone ndetse benshi bafashe amatelefoni na mudasobwa imbere yabo ku meza, hari ndetse n'amacupa arimo amazi nyuma yabo hari intebe z'umukara ndetse nyuma y'intebe ku nkuta hari amadirishya atwikiwe n'ibitambararo

Umuyobozi uhagaze imbere y'abaturage, ufashe mikorofone, wambaye n'amarinete, aganiriza abaturage n'abandi bayobozi bagenzi be. Imbere y'uwo muyobozi hari icyapa kiriho umwana, hirya ye hari abaturage, abaturage inyuma yabo hari ikigega ndetse n'ibiti, abandi bari imbere ye bari mu mahema atwikiriye ndetse n'ameza, imbere yabo harambitse amacupa y'amazi.

Ni inzu mberabyombi iteraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye, bambaye amakoti y'akazi mu mabara y'umweru ndetse basa n'aho abo bari guhabwa amahugurwa. Inyuma muri iyo nzu hakaba hari ibirahuri by'umweru ndetse n'amadirisha , mu mabara y'umukara.

Inteko y'abaturage benshi harimo abagore n'abagabo, hasi hari imicaca ndetse hari n'indangururamajwi, inyuma yabo hakaba hari inzu yukishije amatafari ndetse n'ifondasiyo y'amabuye.

Inteko y'abaturage b'ingeri zitandukanye, abagore n'abagabo ndetse harimo n'abazungu. Bakaba bicaye munsi y'ihema ritwikiriye, bamwe muri bo bafashe ibitabo ndetse n'amakaramu bandika. Imbere yabo hakaba hari ameza atwikije ibitambaro by'icyatsi, umuhondo ndetse n'ubururu.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abagore n'abagabo, bicaye ku ntebe ndetse bamwe bambaye impuzangano z'ubururu, mbere yabo ku meza barambitse amazi yo kunywa, ndetse bicaye no ku ntebe zifite ibara ry'igitaka, inyuma inkuta ziriho ibirahure bigaragaza hanze.

Inzu mberabyombi iteraniyemo ingeri z'abantu batandukanye harimo abayobozi ndetse n'abanyamakuru. Ku nkuta z'iyo nzu hakaba hari insakazamajwi ndetse hejruru ku nzu hakaba hari n'insakazamashusho ndetse n'amatara menshi.

Abayobozi b'igihugu cyacu bakaba bicaye ku ntebe z'umukara, ndetse harimo umugore n'umugabo. Imbere yabo hari ibikoresho by'ikoranabuhanga harimo mudasobwa ndetse hari n'ibikoresho byifashishwa mu kunywa amazi amacupa, ameza ari imbere asa n'ibara ry'umutuku.

Abayobozi bo mu nzego nkuru z'igihugu bari mu nzu bearabyombi, imbere yabo hakaba hari amacupa y'amazi umwe imbere ye hakaba hari na mudasobwa, abandi bakaba bafashe amakaramu barimo kwandika, imbere yabo hakaba hari insakaza ziriho insanganyamatsiko y'ikiganiro bari gutanga.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abayobozi b'Ibihugu batandukanye, umwe muri abo bayobozi akaba afashe mikorofone, atanga ikiganiro cyerekeranye n'inama, imbere ku meza hakaba hari ibyapa bigaragaza ikigo cyateguye iyo nama ndetse n'amacupa y'amazi.

Icyumba cy'inama cyateraniyemo abayobozi b'igihugu batandukanye harimo n'abera abazungu, imbere y'umuzungu hakaba hari mudasobwa ndetse imbere y'abandi na bo bakaba bafite mudasobwa, umwe hakaba hari igikapu cyo mu mabara y'umukara ku meza ndetse hari n'uducupa tw'amazi imbere yabo.

Icyumba cy'inama giteraniyemo abayobozi bagiye batandukanye, harimo abagore ndetse n'abagabo bicaye imbere ku ntebe, inyuma yabo hakaba hari ibyapa bigaragaza insanganyamatsiko ndetse n'ibigo byateguye iyo nama, imbere yabo kandi hakaba hari abandi bicaye bakurikira ikiganiro bari gutanga.

Inteko y'abayobozi benshi harimo abagore ndetse n'abagabo bari mu nzu mberabyombi ikikijwe n'isakazamajwi, ndetse n'amatara yaka ku ruhande hari ibitambaro by'umweru, imbere haraca insinga zitwara amajwi n'isakazamajwi ndetse n'abagabo bambaye amarinete.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abayobozi b'intumwa za rubanda, imbere ku meza y'abo bayobozi hari mikorofone ndetse n'amacupa n'ibirahure birimo amazi ndetse n'imitobe bamwe imbere yabo hari amakaye n'amakaramu ndetse n'udukombe, muri icyo cyumba kandi harimo isakaza amashusho iri imbere ndetse n'indi isa n'umukara iri hejuru ku gikuta cyinzu.

Inteko y'abaturage benshi batandukanye, bamwe bafashe impapuro barimo kwandika, bigaragara ko bari gusinya, bicaye mu ntebe nziza z'umukara; hirya hari ibiti ndetse n'ibirahure bigaragara ko bateraniye ahantu bari mu mahugurwa.

Inteko y'abayobozi bicaye mu nzu mberabyombi, imbere yabo hari ameza ndetse bafashe ibitabo n'amakaramu, hari n'ibirahuri inyuma ndetse n'ishusho ya perezida wa repubulika y'u Rwanda hejuru.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abayobozi batandukanye, imbere ku meza hakaba hari ibitabo ndetse n'amacupa menshi arimo amazi yo kunywa, buri wese afite irye irye. Muri abo bayobozi hakaba harimo n'umuzungu, na we witabiriye iyo nama.

Icyumba cy'inama giteraniyemo abayobozi batandukanye, imbere yabo hakaba hari amacupa ndetse n'ibirahuri banyweramo amazi. Benshi muri bo bakaba bafashe amakayi n'amakaramu ndetse n'amaterefoni. Babiri bari imbere basa naho bongorerana baganira.

Inteko y'abaturage imbere hari umuyobozi ubagezaho ijambo, hirya y'abaturage hari ibyatsi ndetse urenze ibyatsi hari n'ibi, hejuru ikirere kirasa naho kijimye cyane ndetse hari n'imodoka inyuma y'abaturage.

Inteko y'abaturage b'ingeri zitandukanye bacyeye, bambaye neza bicaye ahantu mu mucaca inyuma y'aho hari icyapa cyamamaza icyo baje kureba, ndetse nyuma hakaba na none hari inzu ndende yubakishijwe amatafari ahiye ndetse mu madirishya harimo ibintu by'ibara ry'ubururu.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abayobozi bo mu nzego zitandukanye. Imbere ku meza y'abayobozi hakaba hari ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo mikorofone ndetse na za mudasobwa. Inyuma yabo hakaba hari abanyamakuru n'ibikoresho byabo ndetse hirya hakaba hari icyapa kiriho insanganyamatsiko bari kuvuga.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abirabura ndetse n'abazungu. Imbere yabo ku meza hakaba hari ibikoresho bitandukanye, muri ibyo bikoresho twavugamo ko hari amacupa y'amazi ndetse n'ibikoresho by'inyakiramajwi, mikorofoni. Inyuma yabo hakaba hari insakazamashusho ziriho insanganyamatsiko bari kuganiraho.

Inzu mberabyombi yicayemo abayobozi batandukanye harimo n'abera ndetse imbere yabo ku meza hakaba harambitse amacupa arimo amazi yo kunywa ndetse n'ibitabo naza mudasobwa n'amatelefone. Inyuma yaho hari inkuta ziteye irangi ndetse n'amadirisha y'ibirahuri ariho ibitambaro bibuza izuba kwinjira.

Abayobozi benshi bicaye ku ntebe ku murongo umwe, hakaba harimo abashinzwe umutekano ndetse n'abandi bavugira rubanda. Inyuma yabo hakaba hari icyapa kinini kiriho insanganyamatsiko bari kuganiraho, hakaba hariho n'ikirango cy'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda. Hakaba handitseho ngo ingengo y'imari n'imihigo.

Umugabo muremure ufashe nikorofone uvuga wambaye umupira w'icyatsi uriho ibendera ry'igihugu n'ikirango ku gaza, ari kumwe n'abandi basore n'inkumi bambaye imyenda y'icyatsi ndetse n'umuhondo bicaye ku ntebe z'ubururu, imbere yabo hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru kiriho amagambo y'insanganyamatsiko bavugaho.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abayobozi batandukanye ndetse harimo n'umuzungu. Imbere yaho hakaba hicaye abayobozi babiri bari gutanga imbwirwaruhame ndetse inyuma yaho hakaba hari insakazamashusho, iriho insanganyamatsiko bari kwigaho muri iyo nama.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abantu bagiye batandukanye, imbere yabo ku meza hakaba hari mudasobwa ndetse hari n'undi uhagaze ubasobanurira, imbere hari igikoresho cy'insakazamashusho, kiriho insanganyamatsiko bari kuvugaho.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abayobozi bo mu nzego zitandukanye harimo n'abagore ndetse n'abazungu. Imbere yabo hakaba hari ibikoresho bitandukanye birimo ibirahure, birimo imitobe ndetse n'amacupa y'amazi n'ibirahure banyweramo amazi.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye cyane cyane urubyiruko rw'abahungu ndetse n'abakobwa. Inyuma yabo hakaba hagaragara ikoranabuhanga, ndetse bakaba bicaye no ku ntebe zisa n'umukara. Bareba imbere bigaragara ko hAri umuntu ufite icyo ari kubabwira.

Inteko y'abaturage imbere hahagaze umugabo ufashe mikorofone wambaye ikoti ry'ubururu, inyuma ye hakaba hari indangururamajwi ndetse hasi hakaba hari ibyatsi. Abandi baturage bicaye mu ihema, hakurya yabo haragaragara ibiti ndetse n'imisozi ndetse n'ikirere kirimo amacu y'ubururu.

Inzu mberabyombi irimo abantu b'ingeri zitandukanye bamwe ku meza yabo hakaba harambitse amacupa y'amazi abandi amaterefone harimo abagabo n'abagore inyuma yabo hakaba hari ibirahure bibonerana bibonesha abari hanze.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abayobozi bo mu nzego zitandukanye, harimo abagore ndetse n'abagabo. Imbere yabo ku meza hakaba harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, birimo mudasobwa ndetse na mikorofone inyakiramajwi, hakaba hari ndetse n'ubucupa burimo amazi yo kunywa.

Inzu mbera byombi irimo abayobozi barimo gutanga ibiganiro, umwe muri bo akaba afashe mikoro ndetse arimo atanga n'ikiganiro, abandi ku ruhande ye bamukurikiye kandi bose bakaba bambaye amadarubindi ndetse n'amakarita, imbere yabo hakaba hari amacupa y'amazi.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye harimo abazungu ndetse n'abirabura bisa nkaho ari abayobozi bitabiriye inama. Imbere yabo hakaba hari amacupa y'amazi kumeza ndetse n'amaterefoni n'ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo za mudasobwa, ndetse hakaba hari amakaye n'amakaramu kubadafite ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Ihuriro ry'abantu b'ingeri zitandukanye, biganjemo urubyiruko rw'abakobwa ndetse n'abahungu, bateraniye ahantu hasa nk'aho ari ku kibuga cy'umupira. Imbere hakaba hari ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo isakazamajwi ndetse n'inyakiramajwi.

Ameza ariho ibikoresho bitandukanye, harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'ibindi bisanzwe, muribyo bisanzwe hakaba harimo amacupa aririmo amazi yo kunywa ndetse by'ikoranabuhanga bikaba harimo telefoni ndetse na mudasobwa, kuri ayo mezi hakaba hicaye abantu batatu barimo baganira baseka.

Icyumba cy'inama kirimo abagore batatu. Imbere y'abo bagore hakaba hari ameza arambitseho ibikoresho bitandukanye, birimo amazi yo kunywa ndetse n'amakaye n'amakaramu n'ibikapu byabo. Bamwe muri bo bambaye amarinete ndetse Inyuma yaho hari ibishushanyo biri mu mabara y'umuhondo.

Icyumba k'inama giteraniyemo abayobozi batandukanye harimo abagore ndetse n'abagabo, imbere ku meza yabo hakaba harambitse ubucupa burimo amazi yo kunywa, amakayi ndetse n'amakaramu, hakaba hari n'ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo mudasobwa.

Icyumba cy'inama giteraniyemo abayobozi bo mu nzego zitandukanye abagore ndetse n'abagabo. Imbere hari igikoresho cy'isakazamashusho ndetse n'icyapa kiriho insanganyamatsiko bari kuganiraho. Umugore uhagaze arimo kubasobanurira ingingo.

Icyumba cy'inama giteraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye biganjemo urubyiruko, ku meza hakaba hari ibikoresho bitandukanye byiganjemo amacupa y'amazi, amaterefone ndetse n'ibitabo n'amakaramu bisa naho bari guhabwa ikiganiro.

Urubyiruko abasore n'inkumi b'ingimbi n'abangavu bafashe amakaye ndetse n'ibitabo imbere yabo ku meza hakaba hari, abacupa by'amazi ndetse n'utwapa tugaragaza insanganyamatsiko bari kwigaho muri iyo teraniro barimo. hakaba harimo abahungu ndetse n'abakobwa.

Inteko y'abayobozi bicaye hamwe ndetse imbere y'abayobozi hakaba hari ameza maremare, ku meza harambitse mudasobwa ndetse n'amacupa harimo amazi na telefone ku nkuta utazi z'inzu barimo hari isakaza amashusho igaragaza ingingo bigaho.

Inzu mbera byombi iteraniyemo abantu binjyeri zitandukanye, murabo bantu harimo abagore ndetse n'abagabo n'undi uhagaze imbere yabo atanga ikiganiro mu bwirwaruhame. Inyuma ye hakaba hari ibikoresho by'isakaza mashusho ndetse n'ibindi by'amamaza icyo bari kuvuga.

Abasore n'inkumi umusore wambaye agapira k'umukara kariho idarapo ry'igihugu, umuhungu uri inyuma ye uri kuvuga imbwirwaruhame inyuma ye hari umunyamakuru.

Abayobozi bakuru mu nzego z'igihugu, buri muyobozi imbere ye hakaba harambitse icupa ririmo umuvinyu ndetse n'icyapa kigaragaza icyo ahagarariye. Umugabo w'inzobe ureba imbere cyane, bigaragara ko akurikiye umuntu uri gutanga ikiganiro.

Abagore n'abagabo bicaye mu nzu mberarabyombi bicaye ku ntebe z'umukara ndetse imbere yabo hari ameza maremare kuri ayo meza harambitse mudasobwa ndetse n'ububido burimo amazi yo kunywa inyuma yabo hari ikirahure kigaragaza hanze uko hasa.

Inzu mberabyombi irimo abantu b'ingeri zitandukanye bateraniye hamwe bameze nk'abayobozi, imbere yabo ku meza hakaba hari uducupa tw'amazi ndetse n'ibyuma by'ikoranabuhanga birimo za mudasobwa ndetse inyuma hakaba hari ibyapa byamamaza biririmo insanganyamatsiko barimo kuvugaho.

Abayobozi bari mu nzu mberabyombi harimo umugabo wambaye impuzankano ya polisi y'u Rwanda imbere yabo ku meza hakaba harambitse amazi ndetse n'imiti yica udukoko ndetse hakaba hari na nonene mudasobwa ifashwe n'umuntu utagaragara neza hagaragara igice gitoya cy'umubiri we .

Umuyobozi mu nzego nkuru z'igihugu, wicaye yumva imbwirwaruhamwe imbere ye. Inyuma ye kandi hakaba hari abayobozi bagenzi be. Ndetse imbere ku meza yabo hakaba hari indabyo zo mu nzu, ndetse ibirahuri birimo amazi, ndetse n'amacupa nanone arimo amazi. Imbere kandi bakaba bafashe amakaramu, ndetse hakaba hari n'impapuro bakaba bari kwandikaho ibyo bumva.

Abayobozi benshi bari mu nzu y'inama, bitegereza bose mu kerekezo kimwe bambaye amarinete, umugore uri hakuno yifashe ku karevuro ndetse imbere ye harambitse amacupa y'amazi mudasobwa n'impapuro n'inyakiramajwi imwe.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye b'urubyiruko, abagore ndetse n'abakobwa ntibahagaze undi mukobwa mukuru, imbere yabo hakaba hari ibitabo abandi bafashe amakaramu abandi basoma ndetse hakaba hari n'amacupa aririmo amazi yo kunywa.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abayobozi bambaye amakoti y'umukara yafi ya bose, ndetse ku ruhande ku bikuta by'iyo nzu hakaba hari icyapa kigaragaza amashaka yo mu gihugu cy'u Rwanda. Ndetse hakaba hari umwe muri bo uzamuye ikiganza, asaba ijambo.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye, muri abo bantu hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo. Imbere yabo ku meza hakaba hari ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye, birimo za mudasobwa ndetse n'amamikorofoni n'insakazamashusho nini cyane za rutura.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye, abagore ndetse n'abagabo. Imbere yabo hakaba hari ameza ariho ibikoresho bitandukanye ndetse birimo n'iby'ikoranabuhanga nka za mudasobwa ndetse hakaba hari n'amacupa arimo amazi yo kunywa.

Mu nzu mberabyombi iteraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye, hakaba higanjemo urubyiruko rw'abasore ndetse n'inkumi. Inyuma yabo hahagaze umugabo usa n'aho arimo gutanga ikiganiro, yicaye ku ntebe z'umutuku ndetse aho hasi hakaba hari ibyatsi bisa n'icyatsi.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye bambaye neza basa n'abitabiriye inama, kuko inyuma yabo ku bikuta by'inzu barimo hari ibyapa bigaragaza, insanganyamatsiko ndetse binamamaza ndetse hakaba hari n'itamgazamakuru.

Icyumba cy'inama giteraniyemo abayobozi batandukanye ndetse harimo n'abazungu. Mo imbere hakaba hariho ibyapa bigaragaza insanganyamatsiko iyo nama bariho yigaho ndetse imbere ku meza yabo, hakaba hari amazi ndetse bamwe bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo amatelefoni.

Abaturage bicaye imbere yabo ku meza hari amacupa y'amazi ndetse ameza akikijwe n'ibitambaro by'umweru, inyuma y'abo baturage hakaba hari ibyapa bigaragaza ibirangantego bimwe na bimwe by'igihugu cyacyo, hakaba kandi kuri icyo cyapa handitseho ngo repubulika y'u Rwanda umujyi wa Kigali akarere ka Kicukiro ndetse umurenge wa Kigarama.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abaturage bambaye impuzankano yiganjemo umuhondo, hakaba hari abagore benshi ndetse n'abagabo barimo guseka, bamwe bafashe ibikapu abandi bafashe amatelefoni bifashe neza.

Mu nzu mberabyombi hateraniyemo abantu b'ingeri zose; abakuze n'abato. Hakaba hagargara umugabo wambaye ishati nziza ndetse imbere ye hateretse agacupa k'amazi, inyuma ye hakaba hagaragara abakobwa, beza ndetse barimo guseka.

Inteko y'abayobozi ndetse n'inzobere barimo baganira, imbere yabo ku meza hakaba hari amacupa menshi y'amazi ndetse n'ingofero y'umweru irinda abantu gukomereka, imbere hakaba hari isakaza mashusho zigaragaza igishushanyo mbonera.

IInzu mberabyombi yicayemo umugabo n'umugore, umugore kuru ruhande wazamuye ikiganza asa nk'usaba ijambo ndetse ku meza harambitse amacupa y'amazi ibitabo ndetse n'amaterefone ameza hariho ibara ry'ubururu n'umuhondo imbere yaho hari n'igikoresho gitanga amashusho.

Imodoka y'umukara ihagaze mu mbuga ifite ibirahure by'umukara byijimye ndetse imbere y'imodoka hakaba hari inzu zitandukanye zifite imiryango irebana ndetse imwe muri izo nzu zifite ibyapa bigaragaza icyo izo nzu zikorerwamo, inyuma y'izozu hakaba hari ibiti ndetse n'ikirere kirimo akazuba.

Agahanda gato nyabagendwa k'abanyamaguru, muri ako gahanda hakaba harimo abantu bari kugenza n'amaguru, ndetse kakaba gakikijwe n'ibiti ndetse, hakurya y'uwo muhanda hakaba hari inzu ndende y'umuturirwa igizwe n'ibirahuri by'umukara, ndetse hejuru hakaba hagaragara ikirere gisa n'ubururu gisa n'aho nta mvura gihatse.

Ikibanza kirimo kubakwamo. Muri icyo kibanza hakaba harimo abazobereye mu kubaka bambaye amakote y'icyatsi ndetse n'ingofero z'umuhondo n'umutuku, ndetse hasi hakaba hari ibiti bitangira icyubako, ndetse n'ibibuni biciye.

Abasore n'inkumi bicaye ku ntebe, abasore bambaye amashati y'umweru ndetse abandi muri bo bambaye imipira y'umukara, imbere yabo hari mudasobwa imeze nkaho ari nshyasha ndetse n'ameza abajwe mu biti. Intebe bicayeho zigizwe n'ibyuma ndetse n'ibiti.

Umunara muremure w'itumanaho, ugizwe n'amabara y'umutuku ndetse n'umweru aho uri hasi hari insina z'urutoki zigaragara nk'aho hari amakoma ndetse hirya yawo hakaba hari n'ibindi byatsi, hejuru ikirere kirafite amabara y'ubururu ndetse n'umweru kigaragara yuko nta mvura gifite.

Ahantu hari ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse birimo n'umunara muremure uri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku mu bujya hejuru. Imbere yaho hakaba hari icyapa kiri mu mabara y'umuhondo, cyamamaza sosiyete y'itumanaho mu Rwanda ya M,T, na N. Hejuru hakaba hagaragara ikirere kirimo ibicu by'umweru ndetse n'ubururu n'amazu hirya.

Umunara uriho ibikoresho by'ikoranabuhanga bisakaza bikana tunganya ibintu bigendanye n'ikoranabuhanga, hejuru hakaba hari ikirere gisa n'ubururu cyane cyane cyiganje, umunara ukaba uzamukiyeho insinga nyinshi cyane zizamuka hejuru.

Irembo serivisi nshya ku rubuga irembo, Minisiteri ya siporo, siporo amazina ya serivisi, iri rikaba ari itangazo rya serivisi hasi hakaba hari nimero za telefoni bigaragara ko bamamaza Irembo.

Ibiti bitoya bitari byinshi, ndetse muri ibyo biti inyuma hakaba hari umunara, ufite amabara y'umweru, ndetse n'umutuku, n'umuhondo, mu kuzamuka hejuru kuri uwo munara, hakaba hari ibikoresho by'ikoranabuhanga, ndetse hakaba hagaragara n'ikirere gisa n'ubururu.

Ameza ateretseho ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga birimo amatelefoni mudasobwa ndetse n'impapuro nyuma y'ameza hakaba hicaye abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagore ndetse n'abagabo bisa naho bari mu kuganira.

Umusore n'inkumi imbere y'uwo musore hakaba hari icyuma cy'ikoranabuhanga cya mudasobwa, gifite ndetse n'isakazamashusho, mo imbere iriho abana babiri mu ibara ry'umweru ndetse ku ruhande imbere ye hakaba hari na none, inkumi yambaye ibintu mu matwi ndetse n'ishati y'umweru.

Umunara muremure usa naho urimo kubakwa, ukaba ugizwe n'amabara y'umutuku ndetse n'umweru, hirya hari ibikoresho by'ikoranabuhanga byunganira uwo munara ndetse n'ikirere kiri mu mabara y'ubururu gikeye.

Umunara w'ikoranabuhanga, hejuru ukaba ufite ibikoresho by'ikoranabuhanga, iruhande rw'uwo munara hakaba hariho inzu isize irangi ry'umweru ndetse yubakishijwe n'amabati, hirya y'iyo nzu hakaba hagaragara uduce dutoya tw'ibiti ndetse hejuru hakaba hari n'ikirere gisa n'umweru, gifite uducu tw'ubururu.

Icyapa kiri mumabara y'umweru ndetse n'ubururu n'icyatsi, cyanditseho gushimira abasora kunshuro ya makumyabiri na rimwe. ukwezi ko gushimira abasora bibiri na makumyabiri na gatatu, saba fagitire ya ebama wubake Urwanda.....

Umunara w'ikoranabuhanga ndetse n'itumanaho ukaba uri hagati y'amazu ndetse n'ibiti n'ibyatsi harimo ibigori ndetse hakaba mu kirere hagaragara ikirere gisa n'uburru gisa naho bugiye kwira.

Mudasobwa, telefoni, amarinete ndetse n'ikaramu birambitse ku meza; iyo meza kandi hari abantu bicaye inyuma yayo abagabo babiri, bicaye ku ntebe z'umweru umwe wambaye ingofero y'umutuku

Abantu b'ingeri zitandukanye higanjemo abagabo, bose bakaba bahuze bareba mu byuma by'ikoranabuhanga birimo za mudasobwa ndetse n'amaterefone, inyuma yabo y'aho bicaye hakaba hari ibiti by'indabyo ndetse n'abandi bantu bahari batagaragara neza.

Umunara uriho ibyuma by'ikoranabuhanga bikurura bigiye bitandukanye; ndetse hejuru y'uyu munara hakaba hagaragara ikirere gisa n'ubururu, gifite n'uducu tw'umweru nk'aho nta mvura gifite.

Akabazo, umusoro ku mutungo utimukanwa umenyekanishwa ryari? Umusoro ku mutungo utimukanwa umenyekanishwa ukanishyurwa bitarenze tariki ya mirongo itatu n'imwe ukuboza za buri mwaka.

Abasore batatu bambaye udupfukamunwa ndetse bafashe amaterefone, umwe yambaye isaha afashe n'igitabo gisa n'umutuku. Inyuma yabo hari inzu ifite ibara ry'umuhondo hejuru ndetse n'ururabyo ruzamuka kuri iyo nzu.

Menyekanisha uyu munsi umusoro ku nyungu za bibiri makumyabiri na gatatu ,bishure bitarenze mirongo itatu n'imwe z'ukwa gatatu makumyabiri makumyabiri na kane. Icyumba cy'ikoranabuhanga kirimo telefoni ndetse na mudasobwa irimo amagambo menshi.

Ihuriro ry'imihanda, muri iryo huriro ry'imihanda, hakaba harimo ibinyabiziga bitandukanye, birimo moto, ndetse n'amamodoka. Hirya akaba ari igiti gitwara umuriro w'amashanyarazi yisumbuye, ndetse n'inzu itangirwamo mazutu.

Ipoto ritagaragara neza ndetse n'ibindi ririho insinga z'amashanyarazi, igiti cyumye ndetse n'ibindi biti bibisi biri hirya, amazu hepfo bisa n'aho ashaje, mu kabande hakaba hariyo ibiti n'ibyatsi byinshi cyane ndetse n'amazu.

Ipoto ndende iriho insinga z'amashanyarazi ndetse n'iza murandasi n'ibikoresho bikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu baturage, ikirere gifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru bigaragaza ko nta mvura gifite, agace gatoya k'inzu katagaragara neza.

Ikirere cyijimye kirimo amacu y'umukara ndetse hari n'ipoto itwara umuriro w'amashanyarazi uriho ndetse n'itara ryo ku muhanda, inyuma y'iryo poto hari ibyapa byamamaza ndetse hepfo y'iryo poto hakaba hari n'ibiti inyuma y'iryo foto nanone hari n'amazu.

Ipoto y'amashanyarazi itwaye insinga nyinshi ituranye n'indi poto iriho ibikoresho bifata amashusho, iyo mapoto kandi nyuma yaho hari inzu y'ubucuruzi ifite ibirahuri by'imikara n'inzugi z'umweru, inyuma yaho hakaba hari n'igiti kigaragara ndetse n'ikirere kirimo amabara y'umweru n'ubururu.

Ipoto ririho insinga z'amashanyarazi nyinshi cyane zikwirakwiza umuriro mu baturage ndetse n'ibiti byinshi bihazengurutse, inzu nziza iri hirya ndetse n'ikirere kirimo ibicu byiganjemo bidatanga imvura.

Ipoto nini cyane ikozwe mu byuma ndetse ikabiriho insinga nini cyane zitwara umuriro w'amashanyarazi wisumbuye hasi hari icyapa cyo mu muhanda mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru n'indabyo hirya hari inzu nyinshi cyane ndetse n'ibiti birebire.

Ipoto itwaye umuriro w'amashanyarazi, ishinze ahantu mu byatsi. Inyuma y'iyo poto hakaba hari inzu irimo yubakwa itaruzura. Ndetse nyuma y'iyo nzu hakaba hagaragara amashyamba menshi. Hejuru hakaba hagaragara n'ikirere gisa n'ubururu, kirimo n'ibicu.

Amapoto abiri atwara umuriro w'amashanyarazi ndetse n'ibyuma bishinzwe kugabanya umuriro w'amashanyarazi biwukwirakwiza mu baturage. Hakurya y'ayo mapoto hakaba hari amazu menshi bigaragara ko ari mu giturage ndetse n'ibiti. Hakaba hagaragara n'ikirere gikenye.

Ikirere gisa n'ubururu gifite icu risa n'umweru munsi yaho hari amazu menshi y'imiturirwa ndetse n'amapoto atwara amashanyarazi hari mu muhanda urimo imodoka ndetse na moto ndetse n'akayira k'abanyamaguru nyabagendwa n'ibiti bikikije umuhanda.

Ipoto nini iriho insinga z'amashanyarazi zitwara umuriro wisumbuye, ndetse hasi hakaba hometseho n'ibikoresho bikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi uciriritse uri kuri izo nsinga. Hasi aho iteye hakaba hari ibiti by'indabyo ndetse n'insina n'uduce duto tw'inzu tutagaragara.

Ipoto itwara umuriro w'amashanyarazi ndetse n'amabati akikije aho bubatse ibikoresho bitwara amashanyarazi by'ibyuma ndetse mu kirere haragaragara amacu y'ubururu n'umweru bisa nahoho nta mvura iri bugwe.

Ipoto itwara umuriro w'amashanyarazi wisumbuye. Hasi aho ishinze akaba ari mu mbuga ngari, hameze nk'aho ari mu murima, hari ibyatsi byinshi ndetse hirya cyane hakaba hari amashyamba y'ibiti. Hejuru mu kirere hakaba harimo ibicu byiganje by'umweru ndetse n'ubururu, bisa n'aho nta mvura bitanga.

Insinga nyinshi zitwara umuriro w'amashanyarazi, ndetse n'ipoto ziriho. Hasi hakaba hagaragara inzu nyinshi zubakishijwe amatafari ahiye iziri imbere yange ndetse iziri kure zikaba zisa n'iziri mu murwa. Hakurya hakaba hagaragara umusozi uriho ibiti byinshi ndetse n'ikirere kibuditse igihu.

Ipoto, insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi ziwukwirakwiza mu baturage, hasi hari umutaka ndetse n'umuntu wicaye ku ntebe munsi y'uwo mutaka, inzu y'ubucuruzi igizwe n'inzugi ziri mu mabara y'ubururu ndetse n'ibirahuri, ibyapa bigaragaza icyo iyo nzu ikorerwamo.

Ipoto itwara umuriro w'amashanyarazi wisumbuye, uriho ibisinga byinshi bitwara uwo muriro ndetse n'ibifasha izo nsinga gufata kuri iryo poto. Hakurya y'iryo poto hakaba hari ibiti byinshi by'amashyamba ndetse n'ikirere hejuru kigaragara nk'aho ari ubururu n'umweru nta mvura gifite.

Ipoto iriho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi hasi aho rishinze akaba ari mu byatsi ndetse ibyo byatsi ku ruhande hakaba hari indabyo ndetse n'amazu akikije ku ruhande hakaba hari urugi rwinjira muri ayo mazu ndetse hejuru hakaba hari n'ikirere kitagaragara neza.

Ipoto ririho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi ndetse n'izitwara murandasi. Hasi y'iyo poto hakaba hari uruzitiro ruzitiye inzu mo imbere yubatsemo ndetse hakaba hari n'umuhanda w'igitaka, iruhande ndetse hakaba hari n'ibiti. Hejuru hakaba hagaragara ikirere gisa n'aho butangiye kugoroba.

Ipoto itwara umuriro w'amashanyarazi ndetse n'iza murandasi, hasi y'iryo poto ku ruhande hakaba hari amazu ari hafi aho ngaho, ndetse inyuma y'ayo mazu hakaba hari indabyo z'ibiti birebire ndetse n'akayira gato ko mu muhanda, inyuma kandi hejuru hakaba hagaragara ikirere kirimo ibicu bivanze, iby'umweru ndetse n'ubururu, bigaragaza ko bitanga imvura.

Icyapa kiranga ikigo cy'ingufu z'amashanyarazi mu Rwanda cyo mu magambo ahinnye bita R E na G cyanditseho kandi ngo Gikondo aho icyo kigo giherereye, kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru n'umukara.

Ipoto itwara ingufu z'amashanyarazi zisumbuye ndetse ituranye n'akayira gato k'abanyamaguru, ku ruhande imbere y'iyo poto hakaba hari n'ikimodoka kihahagaze hasi mu mabara y'icyatsi, ndetse hejuru tukaba tubona ikirere kererutse kitarimo agacu na gato.

Ipoto iriho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi ndetse n'ibikoresho bikwirakwiza amashanyarazi mu ngo, hasi kuri iyo poto hakaba hari ibyatsi ndetse n'ibiti birimo gukura, hakaba hari ndetse n'uruzitiro ruzengurutse inzu ziri inyuma y'iyo poto, hakaba hari n'andi mazu menshi cyane ari inyuma y'izo nzu.

Ipoto itwara umuriro w'amashanyarazi w'ingufu zisumbuye, hasi hakaba hagaragara agace gatoya k'abantu bari ku mamoto ndetse n'ibiti, imbere yabo ku ruhande hakaba hari inzu ndende y'umuturirwa ifite ibirahure bitagaragara neza mu madirishya ndetse n'ikirere kigaragara hejuru gisa naho harimo akazuba.

Ipoto ndende cyane itwara umuriro w'amashanyarazi wisumbuye, ikaba iriho insinga nyinshi ziri zerekeza mu byerekezo bigiye bitandukanye ndetse hejuru hakaba hagaragara ikirere kirimo amacu y'umweru ndetse n'ubururu.

Ikirere kijimye ndetse n'ipoto itwara amashanyarazi munsi y'iryo poto hari amazu agerekeranye ndetse nyuma yayo mazu hari ibiti bigaragara nk'aho ari bikeya.

Ipoto iriho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi ndetse n'izitwara murandasi, iyo poto ikaba ishinze hasi mu byatsi, hariho n'ibiti birebire ariko atari birebire cyane, ndetse n'akapa gatoya katagaragara neza, ndetse n'amakoma y'urutoki ari inyuma n'inzu, hejuru hakaba hari ikirere gisa n'ubururu gisa n'ama...

Ipoto iriho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi ndetse na murandasi ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bikwirakwiza uwo muriro w'amashanyarazi mu baturage iyo poto ikaba ituranye n'agace gatoya k'ibyatsi ndetse n'ibiti bigaragara hejuru ndetse hejuruka hakaba hagaragara n'ikirere kirimo uducu dukeya tudatanga imvura.

Ifoto y'amashanyarazi ituranye n'indi foto iriho ibikoresho bifata amashusho nyuma yiyo y'ayo mafoto hakaba hari inzu igeretse y'umuturirwa ndetse hejuru mu kirere hakaba hagaragara ikirere gisa n'ubururu gisa naho nta mvura ifite.

Ipoto y'amashanyarazi ndetse hari n'indi poto itwaye itara ryo ku muhanda, munsi y'ayo mapoto hakaba hagaragara inzu ndetse n'ikirere kigaragara hakurya y'amapoto, ndetse hakagaragara n'agace gatoya k'abaturage mo hasi, mo hagati y'amazu.

Ipoto y'amashanyarazi ituranye n'andi mapoto menshi ari ku murongo umwe ariko amatara yo ku muhanda ,ndetse ayo matara yo ku muhanda akaba akikijwe n'ibyatsi inyuma ndetse n'ibiti inyuma y'ayo mapoto ,hakaba hagaragara uduce dutoya tw'imisozi ndetse hejuru hakaba hagaragara n'ikirere kijimye.

Ipoto itwaye umuriro w'amashanyarazi ndetse n'uwa za murandasi, hasi hakaba hari igice gito kigaragara cy'imodoka ifite ibirahure by'imikara, ndetse n'ibindi bibonerana itwara abagenzi muri rusange, ndetse n'abandi bantu bari mu tuyira tw'abanyamaguru bategereje imodoka ko zibatwara. Hakurya hakaba hagaragara ibiti byinshi ndetse n'amazu n'ikirere hejuru kirimo ibicu byiganje.

Mu muhanda ndetse n'akayira k'abanyamaguru karimo abagenzi bagenda ako kayira k'abanyamaguru kakaba gaturanye n'urugo rurerure rukikije inzu zirimo imbere ndetse kuri uwo muhanda hakaba hari n'igiti cyipoto gitwara umuriro w'amashanyarazi kiriho n'itara ryo ku muhanda inyuma haba hagaragara ikirere kirimo amacu y'ubururu n'umweru bigaragara ko nta mvura ihatse .

Ipoto iriho insinga zitwaye umuriro w'amashanyarazi ndetse n'imiyoboro ya enterinete, iyo poto ku ruhande rwaho hakaba hari ibiti birebire, ndetse hejuru hakaba hagaragara n'ikirere kirimo akazuba kidafite imvura.

Ipoto ririho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi ndetse n'izikwirakwiza murandasi mu baturage, hirya hakaba hari amazu menshi ndetse n'ikirere kirimo amabara y'ubururu n'umweru yiganje, hasi nanone hakaba hari igiti kinini cy'inganzamarumbo n'imodoka ihahagaze itagaragara neza isa naho ifunguye imiryango.

Ipoto itwaye insinga ziriho umuriro w'amashanyarazi ndetse n'iza murandasi. Hasi aho ishinze ku ruhande hakaba hari ibiti bigiye bitandukanye ndetse hakaba harimo ibisheke n'amatunda. Hakurya hakaba hari intoki ndetse n'imirima. Hejuru hakaba hari n'ikirere kitagaragara neza.

Aha ngaha turabona abantu babiri babagororwa cyangwa se bataraba bo, baba baje kuburanishwa kugira ngo bamenye niba ibyo baregwa ari byo, iyo bamaze gusanga aribyo barabahana bakabaha igihano gikwiranye n'ibyo bakoze.

Umuhanda ndetse n'igiti gitwara umuriro w'amashanyarazi, gishinze ahantu mu byatsi hari indabyo ndetse n'urugo ruriho urugi rw'ubururu rwinjiramo imbere ku mazu hakaba hari n'igiti n'ikirere kitagaragara neza ariko gifite uducu duke.

Ipoto y'amashanyarazi iriho insinga zitwara amashanyarazi ndetse na murandasi iyo poto kandi ikaba iriho itara ryo ku muhanda inyuma y'iryo poto hakaba hari igiti kinini cy'inganzamarumbo hejuru hagaragaza ikirere gisa n'ubururu.

Agace gatoya k'umuhanda ndetse n'abantu bari kuwugendamo, imitaka n'udusanduku dukorerwamo abantu bacururiza sosiyete y'itumanaho mu Rwanda y'amatanana. Ibiti birebire biri ku muhanda ndetse n'ipoto iriho insinga z'amashanyarazi n'ibikoresho bikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu baturage.

Ipoto ritwara insinga z'amashanyarazi ndetse n'ibikoresho bitwara ayo mashanyarazi, munsi y'iryo poto haragaragara inzu ndetse n'urugo rukikije iyo nzu, iyo nzu ikaba isakajwe amabati y'umukara ndetse n'ibiti bikikije urwo rugo, hakurya hakagaragara ikirere gihatse imvura.

Ipoto iriho insinga z'amashanyarazi ndetse nyuma y'ayo mafoto hakaba hagaragara ibiti binini by'inganzamarumbo nyuma y'ibyoti hakaba hagaragara utundi dushyamba turimo ibiti bitoya, hejuru mu kirere hakaba hasa n'ubururu ndetse nyuma y'ayo mafoto hakaba hari indi foto ikozwe mu byuma imbere yabo hakaba hari andi mapoto adakoze mu byuma

Ipoto y'amashanyarazi ikozwe mu byuma itwaye insinga z'amashanyarazi y'ingufu yisumbuye ndetse n'insinga z'amashanyarazi y'ingufu zoroheje iyo poto ikaba ishinze hasi hari ibiti by'ibyatsi bigufiya ndetse n'ikirere kigaragaza ko gikeye .

Amapoto abiri ateganye ariho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi ndetse n'ibyuma bigabanya bikanongera umuriro w'amashanyarazi, muri make aho barahurira umuriro w'amashanyarazi bawinjiza mu ngo, hasi hakaba hari imodoka zihahagaze ndetse n'abantu, hirya hakaba hari amazu ndetse hirya naho hakaba hari ibiti n'amazu menshi bisa n'aho ari mu mujyi.

Ipoto itwaye umuriro w'amashanyarazi ndetse n'insinga za murandasi, hasi haragaragara nk'amazu atandukanye ndetse n'ibiti, hejuru ikirere kirasa nk'igikeye ndetse ayo mazu akaba amwe ari m'urupangu.

Urujya ni uruza rw'abantu bari kwamamaza umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu bakaba barimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba biganjemo abantu bambaye imyenda y'ibara ry'icyatsi, bari mu ma tente arimo amabara y'umweru, icyatsi n'umuhondo, bamwe bakaba bafite ibyapa biriho ifoto y'umugabo wambaye kositime byanditseho ngo tora, bakaba bacyikijwe n'ibiti byinshi ku musozi.

Ipoto iriho ishinga zitwara umuriro w'amashanyarazi ndetse n'izindi zitwara murandasi n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bishinzwe gukwirakwiza iyo murandasi, hasi aho ishinze hakaba hari ibyatsi ndetse n'urugo ruriho nimero y'urwo rugo ndetse n'inzira yinjira muri urwo rugo, urwo rugo hejuru hakaba harihoho ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse hejurukaba bagaragara n'ikirere cy'ubururu.

Umuhanda urimo imodoka zitandukanye ndetse n'abantu barimo kugenda mu muhanda ukaba uturanye n'amazu menshi ndetse n'ibiti ku ruhande ndetse n'ikirere hejuru kiragaragara nkaho gihatse ibicu bitanga imvura.

Umuhanda winjira mu kigo cya leta ndetse ukomeje uwo muhanda ukaba ugera ahantu hari birabujijwe kuhinjira, hakaba hari ushinzwe umutekeno ndetse icyo kigo kikaba gifite inzu nyinshi n'imbuga ihagazemo imodoka nyinshi, ndetse n'icyapa kigaragaraza izina ry'icyo kigo.

Amazu menshi cyane agerekeranye ndetse bimeze nkaho ari ku bitaro nangwa se ahantu haba abantu benshi. Mu mbuga y'ayo mazu hakaba hari ibyatsi byinshi ndetse ku ruhande hakaba hari n'igiti kitagaragara neza, hejuru hakaba hari ikirere gikeye.

Akayira abantu bacamo bagenda ndetse kanasakariye n'amabati, hakaba hari n'inkingi y'ibyuma ifashe ayo mabati, imbere y'ako kayira hakaba hagaragara imodoka zihagaze mu mbugangari irimo n'imirongo, hakurya y'izo modoka hakaba hari amatara maremare ndetse n'ibiti bihakikije ndetse n'ikirere kigaragarayo.

Akayira gacamo abasore bahetse, umwe ahetse igikapu, hakurya hari umugore wicaye wicaye witeze igitambaro ndetse n'inzu zubakishijwe amatafari ahiye, amabati y'ubururu yubakishije izi nzu ndetse n'inkingi zifashe amabati asakaye hejuru y'akazu.

Akayira k'abanyamaguru gasakajwe amabati ndetse gakikijwe n'imicaca n'indabyo, ako kayira karinjira mu nzu nini imeze nk'aho hari ibitaro, yubakishijwe amabuye ndetse iteye n'irangi ry'umukara ifite n'amadirisha y'ibirahuri, hejuru ikirere isa naho igaragara.

Imbuga yo bahagarikamo imodoka nyinshi ndetse n'inzu igaragaza igisenge cyayo n'inkingi. Mu mbuga y'iyo nzu kandi hakaba harimo n'aho hateye umucaca n'indabyo. Hakurya hakaba hagaragara amazu menshi ndetse n'ibiti, muri iyi mbuga hakaba hahagazemo imodoka, hakaba hagaragara n'ikirere gikeye.

Inzu yubakishije amatafari ndetse ifite n'amadirishya abonerana ,hejuru y'amadirisha hari imibare iri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara cumi na gatatu ndetse na cumi naka kabiri kurundi ruhande ,hasi yaho imbere y'iryo dirishya hari abagabo babiri umwe ahetse igikapu, inyuma y'abo bagabo hicaye ababyeyi.

Imbuga ihagazeho abagabo babiri, ndetse impande yabo bagabo hakaba barambitse umutemeri uri mu ibara ry'umutuku n'umweru. Inyuma y'abo bagabo kandi hari inzu isakajwe amabati y'umutuku, ikirere kigaragara nk'aho gikeye nta mvura gihatse.

Agace gatoya kagaragaza umuhanda ndetse n'ikinyabiziga cy'imodoka aho bashira imizigo mu modoka. Inyuma hakaba hagaragara inzu ndende ifite amabara y'umweru ndetse n'urugi rwinjiramo. Muri iyo nzu mu mbuga yayo, hakaba hahagazemo imodoka ndetse n'abantu barimo kugenda ku ruhande.

Ihuriro ry'imihanda yizenguruka ndetse imbere y'iyo mihanda hakaba hari inzu ndende y'umuturirwa ndetse mu mbuga y'iyo nzu hakaba hateye indabyo zitandukanye n'igice gitoya cy'igiti kigaragara kirekire, hejuru hakaba hagaragara ikirere gifite ibara ry'ubururu.

Imodoka z'ubwoko butandukanye harimo n'imbangukiragutabara n'izisanzwe ndetse n'imbuga hagati irimo ibyapa, iyo mbuga ikaba ikikijwe n'indabyo, hakurya hakaba hari amazu meza maremare ndetse n'ikirere kitagaragara neza.

Imodoka y'imbangukira gutabara iri ahantu mu mbuga ndetse hasakaye, inyuma y'iyo modoka hari indabyo ndetse inyuma y'izo ndabyo hari inzu, inyuma y'izo nzu hirya hari imisozi myinshi.

Igikuta cy'inzu ndetse n'umuryango winjira muri iyo nzu ufite ibara ry'umukara ndetse urwo rugi rukaba rukoze mu cyuma. Kuri icyo gikuta hakaba hariho igikoresho cyitwa kizimyamuriro mu mabara y'umutuku ndetse n'umupira w'umukara ucamo, imyotsi bazimya umuriro.

Inzu nziza isize amarange y'umweru ndetse n'ubururu, isakajwe amabati y'umutuku ndetse mu mbuga y'iyo nzu hakaba hari ibyatsi byiza ndetse n'indabyo. Hejuru bakaba batwereka agace gatoya k'igiti kirekire ndetse n'ibara ry'ikirere gifite agasusuruko.

Inteko y'abaturage ndetse n'abagororwa bambaye impuzankano yabo bicaye ku ntebe ku ruhande n'abandi baturage b'ingeri zitandukanye, abagore n'abagabo bamwe bambaye ingofero abandi biteze ibitambaro bari mu nzu yubakishijwe amatafari n'ibirahuri bibonerana.

Mu muhanda urimo umurongo urombereje ndetse hakurya y'umuhanda hakaba hari icyapa cyanditseho ngo ibitaro bya kabgayi, hakurya y'icyo cyapa hakaba hari indabyo ndetse n'ibiti, hakurya y'izo ndabyo n'ibiti hari inzu yubakishijwe amatafari ahiye.

Umugore wambaye impuzankano y' imfungwa ndetse n' amarinete, inyuma ye hakaba hari umugabo wambaye ishati y' umweru ndetse ku ruhande rwe nanone hakaba hari umugabo wambaye impuzankano y' abacungagereza nubwo hatagaragara neza.

Ibiti byinshi biri inyuma y'urugo, urwo rugo kandi rukaba rufungishijwe urugi rurimo amabara y'umukara ndetse n'umweru, hejuru y'urwo rugo hakaba hari icyapa cyanditseho ngo gereza ya Muhaga mu mabara y'umukara ndetse n'umweru inyuma.

Umugore wambaye impuzankano y'abagororwa ndetse wambaye n'amapingu mu maboko, inyuma ye hakaba hari abashinzwe umutekano bambaye impuzankano y'abacungagereza ndetse inyuma yabo hakaba hari imodoka n'inzu ya gereza.

Abunganira mu mategeko ndetse bari kumwe n'uwakoze icyaha, wambaye impuzankano ya gereza, ndetse bombi bakaba bambaye udupfukamunwa, imbere yabo hari mudasobwa barimo kurebamo, ku ruhande rwe hari agacupa k'amazi ndetse n'umuti wica udukoko.

Urugo rurerure rwubakishije amatafari ahiye, ndetse n'inkingi ziteye ibara ry'umuhondo, hakaba hari n'urugi rufite amabara y'umuhondo n'umukara. Kuri urwo rugi hakaba hahagaze umugabo ushinzwe umutekano wambaye impuzankano y'igitaka, ndetse imbere hakaba hahagaze abagororwa bambaye nabo impuzankano.

Abanyamategeko mu mpuzankano yabo nziza y'umukara ndetse n'umweru, abagore ndetse n'abagabo, bakaba benshi muri bo bambaye amadarubindi ndetse abagore bafite imisatsi miremire bambaye n'ibikomo.

Abashinzwe umutekano, polisi y'igihugu mu mpuzankano yabo y'umukara ndetse n'ingofero z'umukara ziriho inuma. Ku ruhande hakaba hari ibendera ry'u Rwanda ndetse inyuma hakaba hari n'imodoka y'ubugenzacyaha.

Umuyobozi wicaye ku ntebe y'umukara wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'isaha afashe ikaramu, imbere ku meza hari impapuro ndetse n'ibikombe by'ibirahuri imbere y'ibikombe hari amacupa arimo amazi ndetse n'imitobe.

Imfungwa yambaye impuzankano y'abagororwa ndetse n'agapfukamunwa, ifashe igitabo kinini cy'ikayi ndetse yicaye no mu ntebe iri mu ibara ry'umukara, inyuma ye hakaba hari abacungagereza ndetse n'izindi mfungwa.

Abayobozi bafashe ku gitabo bombi basa n'aho bafata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo hakaba hari ibikoresho bitandukanye bya muzika ndetse aho birambitse hakaba hasashe ibitambaro by'umukara. Inyuma inkuta z'inzu barimo zikaba zisa n'umuhondo.

Abacungagereza mu mpuzankano yabo, ndetse hakaba hari n'umuntu uri gusohoka ku rugi rwa gereza, ndetse mo imbere muri gereza hakaba hagaragaramo abandi bantu. Umwe mu bacungagereza akaba afashe ikaramu ndetse n'urupapuro. Ndetse ku rugi rwo kuri gereza hakaba hari ingufuri.

Irembo ry'ahantu runaka umuhanda muremure imbere hakaba ari icyapa kivuga ngo hagarara ndetse kuri uwo muhanda iruhande ku nkiko zawo hakaba hari ibiti birebire bimeze nk'indabyo ndetse imbere hari n'akazu kahafite amabara y'ubururu n'izindi nzu nyinshi.

Imfungwa cyangwa se abagororwa mu mpuzankano yabo y'iroza, bamwe muri bo bafashe amasuka bigaragara ko bavuye mu kazi nsimburagifungo. Inzu ndende cyane, urukuta runini rwubakishije amatafari ndetse n'urugi rwinjiramo ruri mu mabara y'umutuku.

Umuyobozi w'ingabo afashe ku ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda azamuye ikiganza cy'iburyo, yambaye ingofero y'icyatsi y'ingabo ndetse no mu mpuzankano y'ingabo, inyuma ye hakaba hari abandi, ibintu bitagaragara neza ariko akaba asa n'urahirira inshingano ahawe.

Inteko y'abaturage basa n'aho bari mu nama, nangwa se mu mahugurwa, imbere yabo hahagaze umugore ufashe ikaye n'urupapuro, ndetse n'imbere hari abandi bicaye ku ntebe z'ibiti, bafashe impapuro, abandi ntazo bafashe, inyuma hakaba hari ibiti byinshi, ndetse inyuma y'ibyo biti, hakaba hari amazu menshi.

Inteko y'abaturage ndetse n'abunzi bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza ndetse imbere y'ameza hari umugabo uhagaze asa n'aho yisobanura. Mu bunzi na ho hari undi mugabo uhagaze wumva. Inyuma y'abaturage hari akazu kameze nk'umusarani ndetse inyuma y'ako kazu hari urugo ruzitiye n'ibiti.

Imfungwa zambaye impuzankano yazo ndetse bakaba bari ahantu hari igitaka, imbere yabo hakaba hicaye abagabo bafashe impapuro, ndetse n'umuzungu kuruhande ufite igikapu. Inyuma y'izo mfungwa hakaba hari imodoka iri mu muhanda w'igitaka ndetse munsi yabo hakaba hejuru hari igiti cy'inganzamarumbo, hirya yabo hakaba hagaragara abaturage be batari.

Igitabo cy'amategeko ndetse n'ingingo ziri muri icyo gitabo byanditse mu ibara ry'umukara, ingingo ya karindwi gukoresha igitinyiro, umuntu wese ku buryo ubwo ubwo ari bwo bwose ukoresha igitinyiro kugira ngo hafatwe icyemezo byabumuya.

Abunganira mu mategeko ndetse hamwe n'uregwa bose bahagaze imbere yabo umwe muri bo afite mudasobwa ndetse n'impapuro n'ikaramu asa nuri kwandika yambaye amarinete ndetse uregwa nawe akaba atambaye igitete ahubwo yambaye ikote.

Mu rukiko aho bacira imanza harimo abaregwa ndetse n'abunganira mu mategeko, abagabo batatu umwe muri bo wambaye igitete kirekire ndetse ku ruhande hari uzamura akaboko asa n'usaba ijambo, imbere hari abantu bambaye agapfukamunwa ntari kureba neza ndetse.

Kuri gereza. Mu muryango w'iyo gereza hakaba hasohokamo imfungwa n'abagororwa bambaye impuzankano yabo iri mu mabara y'iroza. Hejuru hakaba hari inzu ishinzwe umutekano w'abari muri iyo gereza ndetse ku muryango w'iyo gereza hakaba handitseho ngo "gereza ya Nyarugenge."

Mu rukiko hakaba hari abacamanza ndetse n'ingororwa ndetse n'abunganira mu mategeko. Muri urwo rukiko hakaba harimo ameza ndetse na mudasobwa ziri imbere y'abacamanza, inyuma hakaba hagaragara kandi umugore wambaye ikanzu y'umukara, ku ruhande nawe akaba hari umugabo wambaye ikanzu y'umutuku.

Abacamanza bafashe amakaramu ndetse n'impapuro, imbere yabo hari mudasobwa ndetse n'ameza amadirishya ndetse imbere yabo hahagaze abagororwa bambaye imyenda y'imfungwa ndetse n'umugabo ku ruhande rwabo wambaye imyenda y'umukara.

Umugororwa wambaye impuzankano yabo y'iroza ndetse inyuma ye hakaba hari imodoka, inyuma y'iyo modoka hari inzu ndetse ku ruhande rw'iyo modoka hakaba hari ibiti bihari, inzu ikaba ifite inkingi

Umuyozi mukuru wo mu nzego z'igihugu w'umugore, akaba yapfundikiye imisatsi inyuma, ndetse yambaye n'amarinete imbere ye ku meza hakaba harambitse mikorofone atanga imbwirwaruhame, mu ruhande rwe hakaba hicaye undi mu mama nawe utagaragara neza.

Inteko y'abaturage bicaye mu mucaca baganirizwa, ndetse hakaba hari n'umuntu ufashe ikaye ndetse n'ikaramu mu mufuka utanga ikiganiro kuri abo baturage, ndetse n'abayobozi bicaye ku ntebe hejuru bafashe ibitabo ndetse n'amakaramu, inyuma yaho hakaba hagaragara ibiti byinshi, ndetse no kuruhande hari imodoka.

Kuri iyi shusho ya gatatu ndabona ibinyabiziga by'abashinzwe umutekano wo mu Rwanda, ikinyabiziga kimwe gifite ikarita y'ikirango k'ibinyabiziga, gifite inyuguti ra na pa nomero magana abiri na makumyabiri na kane na.

Ngo ni komite y'abunzi, ikaba igizwe n'abagabo babiri ndetse n'umugore umwe, bambaye ikamba mu ijosi ririho ibendera ry'igihugu rigizwe n'ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi n'izuba, hakaba imbere yabo hahagaze umuntu urimo kwisobanura n'abandi benshi.

Inteko y'abaturage bicaye mu mucaca ndetse imbere yabo hari abayobozi bicaye ku ntebe ndetse hari n'ameza ariho nimpapuro. Imbere yabo bayobozi hahagaze umugabo yisobanura, umuturage nyine. Inyuma yabo baturage hakaba hari ibiti bigiye bitandukanye binini.

Inkiko Gacaca, aho ari inteko y'abaturage ndetse n'abunzi bicaye ku ntebe z'ibiti imbere yabo hari ameza ndetse benshi bafashe n'ibitabo kandi hakaba hahagaze umugabo wambaye ipantaro y'umweru n'ishati asa naho yisobanura, hakurya hari inzu ndetse inyuma yiyo inzu hakaba hari n'ibiti bikikije abaturage aho bari mu mucaca bicaye.

Umuyobozi wa polisi urimo gutanga ikiganiro, akaba yambaye impuzankano ya polisi isa n'umukara ndetse n'ingofero ya polisi ifite amabara y'umukara n'ikirangantego kirimo inuma. Hakaba ku kuboko hari ibendera ry'igihuhu cy'u Rwanda ndetse inyuma ye hakaba hari insanganyamatsiko ari gutangaho ikiganiro.

Polisi y'u Rwanda mu mpuzankano yayo yo mu mbara y'umukara ndetse n'icyatsi; hejuru ku ngofero hakaba hariho inyoni y' inuma. Ndetse ikaba iri kumwe n'umuntu uri mu modoka, asa n'aho amubaza ibyangombwa byo gutwara iyo modoka.

Kizimyamuriro imanitse ku nkuta z'inzu iyo kizimyamuriro ikaba iri mu mabara y'umutuku, ndetse ikaba ifite n'umupira usohora imyuka iri mu mabara y'umukara. Iy kizimya umuriro kandi iruhande rwayo hari ikindi bashiramo imyanda.

Abagabo bakora mu rwego rwo kuzimya inkongi z'umuriro bafashe umupira utwaye amazi afite umuvuduko mugari, imbere yabo hari ibyuma bishaje basa naho bari kuzimya, inyuma yabo kandi nanone hari ibiti bitagaragara neza n'ikirere kijimye.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye ndetse hakaba harimo moto, imodoka ndetse inyuma y'izomodoka n'ibyo binyabiziga hakaba hari inzu z'ubucuruzi hariho ibyapa byamamaza icyo izo nzu zikorerwamo, ndetse mu muhanda nanone hakaba harimo ushinzwe umutekano wo mu muhanda polise.

Ingabo z'igihugu, abapolisi bambaye imyenda y'umukara n'inkweto z'umukara n'ingofero z'umukara, inyuma yabo hari imodoka zihaparitse ndetse n'inzu yanditseho u na na, inyuma y'izo nzu hari ibiti bikikije aho bari ndetse hejuru ikirere cyiganjemo ubururu n'umweru gisa n'aho gikeye.

Ingabo z'igihugu polisi zambaye imyenda y'umukara ndetse n'ingofero z'umukara n'inkweto z'imikara bafashe ibikoresho bya polisi inyuma yabo hari akazu kubakishijwe amabati y'ubururu iruhande rw'ako kazu hari n'imodoka nyinshi; inyuma y'izo modoka hari ibiti n'amashyamba bikikije aho bari ndetse n'igiti gitwara amashanyarazi ikirere kirasa neza nk'ubururu.

hIuriro ry'imihanda itandukanye iri mu byerekezo bitandukanye, hakaba hari abashinzwe umutekano bo mu muhanda ndetse n'ibinyabiziga bitandukanye, ibyinshi byiganjemo akaba ari amamoto ndetse n'amamodoka, inyuma y'aho hakaba hari ibiti ndetse n'ikirere gisa n'icyatsi.

Imbuga ihagazeho imodoka ebyiri, imwe ari ishinzwe umutekano ya polisi, iri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, iriho n'ikirango cya polisi kiri mu mabara y'ubururu hariho inuma, indi ifite amabara y'umukara. Inyuma y'izo modoka hakaba hari amazu ndetse n'ibiti birebire n'abantu.

Umuhanda munini urimo imodoka ya polisi, imbere y'uyu muhanda hakaba hari n'ibindi binyabiziga birimo amamoto ndetse n'abantu. Hakaba hari n'inzu ndende iriho y'ibyapa byamamaza icyo iyo nzu ikorerwamo. Hakurya kandi hakaba hagaragara ikirere kirimo akazuba.

Umuhanda urimo imodoka ya polisi mu mabara y'umukara ndetse n'umweru ndetse iyo modoka ikaba yicaye hejuru n'abapolisi bambaye impuzankano z'umukara, inyuma y'iyo modoka hakaba hari moto ziyikurikiye ebyiri ndetse muhanda ukaba ukikijwe n'ibiti byinshi.

Abantu bicaye hasi harimo abakuru ndetse n'abana. Iruhande rwabo hakaba hari abandi bambaye impuzankano, bameze nk'abakora mu ishami ryo kurinda abantu ndetse inyuma y'abo bantu hakaba hari ibimodoka binini cyane ndetse inyuma y'ibyo bimodoka hakaba hagaragara ibiti byinshi ndetse n'ikirere kiririmo akazuba.

Kizimyamuriro iri mu ibara ry'umutuku ifite n'umupira w'ibara ry'umukara ndetse n'umunwa ufite igikoresho k'icyuma, inyuma yaho hari ibikarito ndetse birambitse hasi ha kurya y'ibikarito hari intebe.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo moto ndetse n'ibinyabiziga bitwara abantu muri rusange, ndetse hakaba hahagaze n'ushinzwe umutekano wo mu muhanda porisi, wambaye ikote rifite amabara y'icyatsi ndetse n'umukara, ndetse akaba yambaye n'impimpuzankano ya porisi. Uwo muhanda nanone ukaba ukikijwe n'ibiti byinshi ndetse n'amazu atarimo kugaragara neza, ndetse no hejuru hakaba hagaragara ikirere.

Kizimyamuriro ifashe ahantu ku gikuta cy'inzu, iyi kizimyamuriro ikaba ifite amabara y'umutuku, ubururu ndetse n'umuhondo, hejuru ku munwa hakaba hari n'agakoresho gapima umuvuduko w'imyotsi irekura.

Kizimyamuriro iri mu mabara y'umutuku ndetse ifite n'ibirango bisa n'umweru, ikaba ifite umupira ucamo ivu usa n'umukara ndetse kuri iyo kizimyamuriro hari ibyapa biri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu hari ikiri mu mabara y'ubururu gifite ibirango byanditse mu mabara y'umweru ariyo a b na c

Umukuru w'igihugu cy'u rwanda perezida paul kagame ari kumwe n'abandi bayobozi bo mu nzego nkuru z'igihugu cy'u rwanda harimo n'abaminisitiri barimo bagenda mu muhanda nyuma yaho hakaba hari ibyatsi byinshi ndetse n'ibiti ndetse n'amahema bari barimo.

Umuyobozi uri kurahirira inshingano ahawe umanitse ikiganza, yambaye ikoti ry'umukara ndetse afite n'umusatsi w'umukara inyuma ye hari ibara ry'ubururu kuruhande rwe rwe hino hari ibendera ry'igihugu mu mabara y'ubururu n'umuhondo.

Abayobozi bari mu nteko, imbere yabo hari ameza ndetse n'inyakiramajwi n'isakazamajwi, hari ibikombe ndetse inyuma hazengurutse amabara y'ubururu, hari abagore n'abagabo bambaye amashati meza.

Abayobozi b'igihugu bafashe ku birango by'igihugu, ibendera risa n'ubururu harimo izuba, riri mu mabara y'ubururu, umuhondo n'icyatsi. Umubyeyi wacyenyeye imyitero uzamuye ikiganza.

Umuyobozi wo mu nzego z'igihugu cy'u Rwanda ndetse imbere ye hakaba hari mudasobwa nk'icyuma k'ikoranabuhanga, inyuma ye hakaba hari amabendera ari mu mabara y'umweru. Ndetse iruhande rwe hakaba hari n'irindi rifite ibara ry'ubururu.

Abayobozi bo mu nzego nkuru z'igihugu cy'u Rwanda bafashe udutabo turiho ikirangantego cy'igihugu utwo dutabo tukaba turi mu mabara y'umutuku nyuma yabo hakaba hari ibendera ry'igihugu ndetse n'ifoto itagaragara neza bambaye amakoti y'umukara.

Abayobozi barimo kurahirira inshingano bahawe, bose buri umwe afashe ku ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda azamuye ikiganza, imbere ye hari mikorofoni avuga indahiro inyuma yabo hakaba hari isakazamashusho zigaragaza abo bayobozi imbere.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye, bicaye ku ntebe ziganjemo iz'umukara ndetse n'akayira kagera imbere kari mu mabara y'umutuku, isakazamashusho zometse ku bikuta, imbere cyane hari n'ameza ateganirijwe abayobozi.

Abayobozi bo mu nzego nkuru z'igihugu bafashe ku ibendera ry'igihugu bamanitse ikiganza, imbere yabo hari mikorofone basa naho barahirira inshingano bahawe. Muri abo bayobozi hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo, inyuma yabo hakaba hari insakazamashusho.

Ababyeyi bicaye hamwe bambaye bikwije bakenyeye imishanana ndetse bafashe ibyapa byanditseho ishyaka rya fapa na r ndetse bose abenshi muri bo bakaba biteze ingori muri abo babyeyi kandi bakaba imbere yabo harambitse uducupa turimo amazi yo kunywa.

Umuyobozi mukuru mu nzego z'igihugu wicaye ahantu mu nzu mberabyombi, imbere ye ku meza hakaba hari ibikoresho bitandukanye birimo; telefoni, ibicupa birimo amazi yo kunkwa, ndetse hakaba hari ibitabo n'amakayi asa naho asoma ingingo. Inyuma ye hakaba hari ibirango by'igihugu birimo; ibendera ndetse n'ikirangantego.

Umuyobozi mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, arimo ashimira abayobozi bafatanyije na we kuyobora kandi kuri aba bayobozi hakaba hari n'abandi benshi inyuma yabo baherekeje umukuru w'igihugu bari mu nzu mberabyombi ndetse hari n'abambaye amakote y'umukara.

Umukuru w'igihugu perezida Paul Kagame ari ku kibuga cyubatswe ejobundi cy'umupira w'amaguru, ndetse hateraniye n'imbaga nyamwinshi y'abantu bagiye batandukanye bavuye imihanda yose, harimo abazungu ndetse n'abirabura.

Abaturage benshi babukereye bambaye neza imyenda y'ubururu, umweru, ndetse n'umutuku muri bo hari ufashe icyapa kiriho ishusho y'umukuru w'igihugu cy'urwanda yanditseho ngo umudugudu wa radari tuzamutora ijana k'ijana.

Abantu b'igitsina gore bafashe amakaye bameze nk'abari mu nama, inyuma yabo hari intebe z'umweru ndetse umwe muri abo ba mama afashe amakaye yambaye umupira w'umukara n'ipantaro. Hari undi wambaye umupira w'icyatsi uriho amagambo agaragaza icyo bari gukora muri iyo nama.

Inzu mberabyombi irimo abayobozi bakuru b'igihugu cyacu, harimo n'umukuru w'igihugu Paul Kagame, inyuma yabo haka hari ibirango by'igihugu harimo ikirantego ndetse n'idarapo ry'igihugu riri mu mabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Umukandida wiyamamariza kuba perezida w'igihugu Muhayimana Philipe uri kumwe n'abantu benshi baje kureba uko yiyamamaza, inyuma ye hari imodoka ifite ibirahuri by'umukara ndetse n'urugi rukozwe mu mabara y'umukara.

Inzu mberabyombi irimo abayobozi batandukanye b'igihugu cyacyo harimo umukuru w'igihugu ndetse n'abaminisitiri bamwungirije hakurya hakaba hari n'umugore w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse muri iyo nzu hakaba harimo abantu b'ingeri zitandukanye mbere yabo hari amacupa arimo amazi ndetse n'ibikombe ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bisakaza amajwi.

Icyapa kigaragaza akarere, umurenge, umudugudu, akagari, umuryango, umuryango, amahuriro, amahuriro; biri mw'ibara ry'ubururu ibindi byanditse mw'ibara ry'umutuku mu tudirisha.

Inteko y'abaturage bishyize hamwe bambaye amashati y'umweru ndetse n'imipira y'imyeru n'ingofero z'imikara bafashe mu biganza byabo ibirango biri mu mabara y'ubururu n'umutuku ndetse n'ikimenyetso cy'igipfunsi abandi bafashe ibyapa biriho FPR bigaragara ko bashigikiye iri shyaka.

Umukuru w'igihugu Polo Kagame afashe mikoro ndetse yambaye ingofero y'umukara n'amarinete n'umupira w'umukara, urimo utubara tw'ubururu ndetse n'umutuku n'umweru. Inyuma ye hahagaze umugabo wambaye iby'umukara, ndetse n'abaturage benshi inyuma ye bicaye.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abayobozi bakuru bo mu nzego z'igihugu cyacu, buri muyobozi akaba afite insakazamajwi cyangwa se mikorofone ndetse akaba afite na mudasobwa imbere ye, inyuma inzu barimo ikaba ifite imiryango myinshi yo gusohokeramo.

Umuyobozi mu nzego z'igihugu cyacu wambaye ishati y'umweru ndetse n'isaha ku kuboko ufashe mikorofone wambaye ingofero y'umukara ndetse n'amarinete arimo atanga imbwirwaruhame. Inyuma ye hakaba hagaragara ibiti bitagaragara neza kubera igihu.

Louise Mushikiwabo akaba yicaye mu ntebe y'umukara, ku ruhande hari ibendera riri mu mabara y'umweru ndetse imbere hari ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo amamikorofoni y'abanyamakuru, akaba afashe ikayi ndetse bisa n'aho ari gutanga ikiganiro.

Imberabyombi iteraniyemo abayobozi bo mu nzego zitandukanye, ku meza ya buri muyobozi hakaba hari mudasobwa ndetse n'igikoresho cy'ikoranabuhanga cyakira amajwi kikayohereza. Amacupa y'amazi, ndetse abari imbere inyuma yabo hokaba hariho amabendera abiri harimo n'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Umugabo wambaye amadarubindi ndetse imbere hari mikorofone yambaye kandi ikote ry'umukara munsi y'ikote hari ishati y'umweru ndetse na karuvati inyuma ye hari amatara yaka.

Icyumba cy'itora harimo n'ibikoresho by'ikoranabuhanga byabugenewe byo gutoreramo, hakaba harimo umugamo ufashe urupapuro ari gushyira muri icyo cyuma cyo gutoreramo ndetse uwo mugabo akaba ari umwe mu biyamamariza kuyobora Repubulika y'u Rwanda.

Abaturage batunze umurongo inyuma y'abaturage hari amazu menshi n'ibiti ndetse n'amahema bugamamo izuba, bamwe muri abo baturage harimo umusaza wambaye ingofero ndetse n'amadarubindi, inyuma ye hari umugore ufashe igikapu mu ntoki ndetse witeye n'igitambaro.

Abaturage bari ku murongo ahantu bisa naho bategereje guhabwa serivisi inyuma yabo hakaba hari ibiti binini ndetse n'amahema yicayemo abantu abarinda imvura, ndetse hasi mu mbuga hakaba hubatse.

Umugore uri mu nzu ufashe mikorofone ndetse wambaye n'ibikomo ku kaboko ndetse wambaye n'amaherena ku gutwi, yambaye kandi umwenda usa n'umutuku, inyuma ye hakaba hijimye cyane mu madirishya y'inzu.

Abayobozi bicaye barebana, abagore n'abagabo bicaye ku ntebe z'umukara, inyuma yabo hari amadarapo y'igihugu cy'u Rwanda, harimo irisa n'ubururu ndetse hari n'izuba muri iryo darapo.

Umuyobozi mu nteko nkuru z'igihugu asa n'aho ari mu nzu y'inama, yicaye ku ntebe y'umukara ndetse n'ikoti ry'umukara, inyuma ye hakaba hari ibiranga by'igihugu birimo ibendera ry'u Rwanda, hakaba hagaragara agace gato k'iryo bendera gafite ibara ry'ubururu ndetse n'izuba, ku ruhande na ho hakaba hari ikindi kirango k'ibendera riri mu mabara y'umweru.

Ukuboko gufashe ikarita y'itora ndetse ariho naho yatoye hafivuye. Umugabo wambaye amarinete ndetse impande w'umugabo hakaba hari igipfunsi. Kuri iyo karita handitsweho ngo itora rya perezida wa repubulika ibihumbi bibiri nacumi na karindwi.

Umugabo ufashe mikorofone, uhagaze imbere y'imbaga y'abaturage benshi, bateze amatwi ibyo ari kuvuga. Inyuma y'abo baturage hari inzu isa n'ubururu, ifite n'inkingi zisa n'ubururu. Inyuma y'izo nzu na none hari imodoka.

Abayobozi bo mu nzego nkuru z'igihugu bafashe ku birango by'igihugu amabendera ndetse bazamuye n'ibiganza byabo imbere yabo hari micorofone, basa n'abatanga indahiro zabo z'uko bahawe ubuyobozi n'imigabo n'imigambi bazakora kuri ubwo buyobozi bahawe.

Urupapuro rusa ubururu ruriho intoki ziri kwandika kuri mudasobwa, hariho amagambo avuga ngo uburyo ki wakohereza ibintu kuri murandasi, ukoresheje mudasobwa.

Icyapa cyiganjemo amabara y'ubururu hejuru ku cyapa hari amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu ariyo fa pa na ra. Munsi y'ayo magambo hari andi yanditse mu ibara ry'umutuku yanditseho inkotanyi. Munsi y'inkotanyi hari amashusho arimo intare ndetse n'inkoni zinyuranamo, munsi izoni zinyuranamo hari izuba, ndetse munsi y'iryo zuba hari n'ikiyaga.

Intumwa za rubanda ndetse zikaba ziri kumwe n'umuyobozi mukuru w'igihugu cy'u rwanda paul kagame nyuma yaho hakaba hari ibimenyetso by'igihugu harimo ibendera ndetse hakaba harimo n'irindi bendera ryo ku ruhande ritagaragara neza.

Inteko y'abaturage basa nk'aho bishimye babyina, bafashe impapuro hejuru ndetse abandi bakoma mu mashyi, abandi batera babyina. Inyuma yabo hakaba hari inzu isakaye barimo, ndetse hakaba harimo abagore n'abagabo.

Mu cyumba gikorerwamo amatora. Hakaba harimo abantu batatu barimo umukobwa wambaye ingofero y'umweru, ndetse n'umupira w'umweru, ufite imisatsi miremire, umugore witwikiriye imyenda ndetse n'umugabo. Imbere yabo hari isanduku batoreramo. Hasi ku meza hari impapuro ndetse n'amakaramu.

Icyapa kiri mu mabara y'icyatsi, umweru ndetse n'ubururu kiriho amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu ariyo P, S ndetse na D, ayo magambo akaba agaragaza rimwe mu ishuaka ryo mu gihugu cyac cy'u Rwanda.

Ishuri ryisumbuye rya Kimironko ya mbere urugi rwinjira nangwase umuryango winjira mu ishuri ryisumbuye rya Kimironko. Hanze hakaba hari abantu b'ingeri zitandukanye bimeze nk'aho ari ababyeyi bafashe ibitabo, abandi bafashe ibikapu ndetse ku ruhande hakaba hari n'icyapa kigaragaza igikorwa kiri kubera muri iryo shuri.

Mu bayobozi bo mu nzego zo hejuru harimo n'abaminisitiri ,abagore babiri n'umugabo umwe ndetse n'undi wicaye utagaragara neza ugaragaza amaboko ye gusa .Bakaba bahuriye ahantu heza nyuma yabo hari ibikoresho by'isakazamajwi.

Abayobozi bo mu nzego z'igihugu bafashe ku mabendera y'igihugu agizwe n'amabara y'ubururu, umuhondo n'icyatsi bamanitse ibiganza byabo ndetse basa naho batanga indahiro z'inshingano bahawe, umwe akaba yambaye ikote ry'umukara undi akaba yakenyeye.

Umuyobozi mukuru w'igihugu perezida Paul kagame arimo kwiyamamariza kuyobora igihugu cy'u rwanda, akaba yambaye imyenda irimo ibara ry'umweru ndetse n'ingofero y'umutuku iriho ikirangantego cy'ishaka abereye umukandida iryo shyaka rikaba rirangwa n'inyuguti irimo f panara mu mabara y'umutuku umweru ndetse n'ubururu byanditse mu magambo y'umukara.

Umuhanda urimo imodoka ebyiri zikurikiranye ndetse hakurya y'umuhanda hakaba hari ibiti byinshi n'ikirere kitagaragara neza, hino y'umuhanda nanone hari amazu ndetse n'imodoka iparitse.

Umuhanda urimo ikinyabiziga cya moto ndetse n'ugitwaye, ibiti byinshi amatara yo ku muhanda ndetse n'insinga n'amapoto atwara umuriro w'amashanyarazi akwirakwiza mu baturage, inzu ndende ndetse n'uruzitiro rukikije iyo nzu ikirere kirimo akazuba.

Umuhanda urimo imodoka y'umweru bisa naho itwara ibiribwa, imbere hari amamoto menshi ndetse n'abayatwara, inzira y'abanyamaguru, hirya hari uruzitiro ruri mu mabara y'icyatsi ndetse n'ibiti birebire, inzu nyinshi ziri inyuma y'ibyo biti zitagaragara neza.

ndabona iteme, umuhanda, imodoka itwara abagenzi rusange mu ibara ry'umweru, nkabona ipikipiki itwara abagenzi, hari ibiti byo ku muhanda ndetse n'amazu menshi hakurya ari hamwe.

Umuhanda mugari urimo gucamo imodoka ndende ya rukururana ipakiye imizigo ndetse n'akayira k'abanyamaguru karimo gucamo umugabo wambaye bote z'umukara n'ipantaro y'umukara, hakurya y'umuhanda hari ibiti bikikije ku muhanda.

Umuhanda mugari urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka ntoya ndetse n'inini umuhanda ukaba uturanye n'akayira k'abanyamaguru mu mpande zawo zose ndetse inyuma y'uwo muhanda hakaba hari ibiti birebire bikingirije ikirere.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bya moto ndetse n'akayira k'abanyamaguru hakurya y'uwo muhanda hari uruzitiro rukikije ho ndetse nyuma y'urwo ruzitiro hakaba hariho ibiti bikikije ku muhanda inyuma y'ibyo biti hari n'amazu.

Umuhanda munini ndetse n'akayira k'abanyamaguru uwo muhanda ukaba urimo imodoka iri mu mabara y'umweru ndetse nyuma y'iyo modoka hakaba hari ibiti bigaragara ndetse nyuma y'ibyoti hakaba hagaragara ikirere kirimo akazuba gato nubwo kitagaragara nezatari ndetse n'urugo ruzitiye.

Ibisate binini by'imihanda igiye inyuranamo, iyo mihanda ikaba irimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka ndetse na moto, hakurya ya moto hakaba hari inzu ntoya y'ubucuruzi, ndetse inyuma hakaba hari amashyamba, ibiti, inyuma kandi yayo mashyamba hakaba hameze nk'aho hari amazu menshi yo mu murwa.

Umuhanda mugari urimo ibinyabiziga bitandukanye, muri ibyo binyabiziga hakaba harimo amamoto ndetse n'imodoka zitwara imizigo. Uwo muhanda ukaba uturanye n'inzira z'abanyamaguru mu mpande zawo zose ndetse mu uruhandere rumwe rukaba rurimo abagenzi bagenda n'amaguru. Hirya hakaba hari uruzitiro rurimo amabara y'icyatsi ndetse n'ibiti inyuma y'urwo ruzitiro.

Umuhanda mugari urimo imodoka isa n'umutuku ndetse kuri uwo muhanda ku ruhande hakaba hari n'akayira k'abanyamaguru harimo abanyamaguru barimo batambuka harimo umugore n'umugabo ,umugore wambaye ikoti ry'umuhondo umugabo wambaye ikoti ry'ubururu hirya y'uwo muhanda kandi hagaragara ibiti bikikije umuhanda n'ikirere kitagaragara neza .

Imodoka ziri ahantu bategerereza imodoka zikaba zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange. Abantu barimo baca muri izo modoka ndetse n'amazu ari hakurya, agace gatoya k'ikigega kimanitse hejuru ndetse n'inzu z'ubucuruzi zihari.

Imodoka zitwara imizigo ziri mu mabara y'umweru n'umukara, zihagaze ahantu bashiriramo imizigo; hirya hakaba hari abantu bari kugenda, ibiti birebire ndetse n'amazu akingirijwe; hejuru hakaba hagaragara ikirere bisa naho kirimo akazuba.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye harimo imodoka ndetse na moto uwo muhanda ukaba ukikijwe n'ibiti ndetse n'indabyo ndetse n'amatara yo ku muhanda umuhanda kandi ukaba urimo imirongo y'umukara ndetse n'umweru irombereje ndetse n'ibiti bikikije uwo muhanda .

Mu muhanda ndetse n'akayira k'abanyamaguru, mu muhanda hakaba harimo imodoka nyinshi zitandukanye, imbere hakaba hari imodoka iri mu mabara y'umweru ikurikiwemo hagati n'akandi kamodoka gato ndetse na moto, imbere y'ako kamodoka gato hakaba hari indi modoka nini iri mu mabara y'ubururu ndetse hakaba hari n'ibiti bikikije ku muhanda n'ikirere kigaragaramo gakeya.

Umuhanda urimo imodoka nini itwara imizigo ikoreshwa mu bwubatsi, hirya hakaba hari inzu z'ubucuruzi n'abantu ndetse n'imodoka z'abantu ku giti cyabo, ibiti ndetse n'insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi, hejuru hakaba hagaragara ikirere kirimo akazuba.

Umuhanda munini uturanye n'akayira k'abanyamaguru, ukaba urimo imodoka nini itwara imizigo, ifite imitende myinshi. Inyuma y'iyo modoka hakaba hagaragara ibiti birebire ndetse bihishe ikirere inyuma, gisa n'aho kirimo akazuba k'agasusuruko.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka y'ibara ry'ubururu itwara peteroli, hakurya y'umuhanda hari ibiti bikikije umuhanda, inyuma y'imodoka hari amamoto akurikiranye n'imodoka, irimo irabisikana n'indi moto.

Imodoka y'umukara ndetse na moto y'ubururu biri mu muhanda moto ifite imitende itatu, inyuma y'uwo muhanda hari abantu bagaragara ko bagendesha amaguru ndetse n'ibiti bigaragaraho.

Umuhanda munini uturanye n'inzira y'abanyamaguru ukaba urimo imodoka zitwara abagenzi rusange ndetse n'izitwara abantu ku giti cyabo n'imizigo, zimwe zikaba zicanye amatara maremare ndetse n'amapoto manini cyane atwara umuriro w'amashanyarazi n'insinga, bisa naho ikirere bugorobye.

Inzu mberabyombi ubona ko irimo abantu benshi higanjemo abantu bakuze ndetse n'urubyiruko, ariko hakaba harimo n'abayobozi, ukaba ureba ko bose bateze amatwi umuntu uri kubaha ikiganiro kandi, buri wese imbere ye hakaba hari icupa ry'amazi. Hakaba harimo n'umuntu uhagaze inyuma wambaye impuzankano y'umukara.

Umuhanda munini w'igitaka uhagazemo imodoka nini itwara imizigo, itwara ibicuruzwa. Iyo modoka ikaba ifite icyo ihekamo imizigo kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru. Hirya y'iyo modoka hakaba hagaragara ibiti birebire bikingirije izuba.

Umuhanda ndetse n'akayira k'abanyamaguru uwo muhanda ukaba urimo ibinyabiziga bitandukanye moto ndetse n'imodoka bibisikana. Inyuma y'uwo muhanda hari ipoto ririho itara ryo ku muhanda, inyuma y'iryo poto hakaba hari ibiti bikikije umuhanda ndetse n'igice gitoya cy'imodoka iri imbere kigaragara.

Umuhanda munini urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo ibitwara abantu ku buryo bwa rusange ndetse n'iby'abantu ku giti cyabo bikorera. Uyu muhanda ku nkiko za wo hakaba hari akayira k'abanyamaguru harimo abagenzi, inyuma y'izo modoka hakaba hari na moto ndetse ku nkiko z'uwo muhanda hakaba hari ibiti bitwara amashanyarazi n'ibyatsi ku muhanda.

Umuhanda mugari urimo ikinyabiziga cy'imitende itatu moto ndetse n'icyapa kirekire kiranga amategeko y'umuhanda. Hagati y'uwo muhanda, hakaba hari akayira k'abanyamaguru gaturanye n'imbuga irimo indabyo ndetse muri ako kayira k'abanyamaguru hakaba harimo abagenzi bari kugenda. Inyuma y'iyo modoka hakaba hari ibindi binyabiziga, ku ruhande rw'uwo muhanda hakaba hateye ibiti ndetse hakurya hagaragara n'umusozi.

Umuhanda urimo ikinyabiziga cya moto ndetse uhura n'undi muhanda. Hakurya y'uwo muhanda hakaba hariho ibyapa bigaragaza iyo uwo muhanda ugiye, ndetse n'igice gitoya cy'ipoto ritwara amashanyarazi ndetse n'itara ryo kuri uwo muhanda. Hakaba hagaragara kandi inzu iri hirya inyuma mu biti bikikije uwo muhanda.

Umuhanda urimo imodoka nini itwara abagenzi muburyo bwa rusange uwo muhanda ukaba uturanye n'akayira k'abanyamaguru hari gucamo umunyamaguru yikoreye umufuka inyuma y'iyo modoka kandi hakaba hari ibiti birebire bikingirije ikirere.

Umuhanda mugari uturanye n'akayira k'abanyamaguru ndetse muri uwo muhanda hakaba harimo ibinyabiziga bitandukanye, muri ibyo binyabiziga hakaba harimo moto ndetse n'imodoka iri mu mabara y'umweru itwara abagenzi rusange, inyuma yayo kandi hakaba hagaragara ibiti byinshi birebire.

Umugore uri kugenda mu nzira ndetse imbere ye hakaba hari imodoka zipakira imizigo ndetse n'izindi z'abantu ku giti cyabo inyuma y'izo modoka hakaba hagaragara kandi igiti kinini nubwo hagaragaramo agace gato kacyo.

Umuhanda urimo ibinyabiziga birimo moto ndetse n'imodoka iri mu mabara y'umweru, uwo muhanda ukaba uturanye n'akayira k'abanyamaguru ndetse hakurya hakaba hari undi muhanda urimo imodoka nyinshi cyane zirimo izitwara imizigo. Hagati y'izo mihanda zombi hakaba harimo ibiti birebire ndetse iyo hirya inyuma hakaba hagaragara imisozi.

Umuhanda munini urimo ikimodoka kinini cyane gitwara ibikomoka kuri peterori kiri mu mabara y'umweru, kikaba gituranye n'inzira y'abanyamaguru ndetse n'ibiti birebire cyane biri ku ruhande rw'uwo muhanda.

Umuhanda urimo imodoka itwara imizigo nini cyane ndetse n'abantu bari ku mamoto abatwaye, hirya hakaba hari ibiti byinshi cyane ndetse n'itara ryo ku muhanda, ikirere kirimo akazuba.

Imihanda migari irimo ibinyabiziga bitandukanye, muri ibyo binziga hakaba harimo amagare, amamoto, imodoka ntoya ndetse n'indende zigenda zikururana, hagati kandi hakaba hagaragara ibiti binini by'inganzamarumbo ndetse inyuma hakaba hagaragarayo n'izuba.

Umuhanda uturanye n'akayira k'abanyamaguru, uwo muhanda ukaba urimo ibinyabiziga bitandukanye. Harimo imodoka ndetse n'amagare ahetse abantu babiri babiri. Hakurya y'uwo muhanda hakaba akandi kayira k'abanyamaguru, karimo abagenzi bari kubisikana n'ibyo binyabiziga. Ndetse inyuma y'abo bagenzi hakaba hari urugo rukikijeho.

Umuhanda mugari ukaba urimo ibinyabiziga birimo amamoto ndetse n'ababitwaye; hakurya hari uruzitiro ruri mu mabara y'umweru ndetse n'ibiti byinshi cyane bigize amashyamba; insinga z'amashanyarazi ziri hejuru mu kirere ndetse n'amatara yo ku muhanda.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, uwo umuhanda ukaba ari uw'igitaka ndetse hakaba harimo imodoka, moto ndetse n'abagenda ku maguru hakurya yawo hakaba hari amazu maremare y'ubucuruzi ndetse n'ibiti bitwara umuriro w'amashanyarazi.

Umuhanda urimo imirongo ifite ibara ry'umweru y'aho abanyamaguru bambukira ndetse umuhanda ukaba urimo imodoka zitandukanye uwo muhanda ukaba ukikijwe n'ibiti ndetse hejuru hakaba hari n'ikirere kijimye.

Imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ziri ahantu muri gare hari imitaka minini ndetse n'abantu bicayemo zikaba zifite ibirahuri bibonerana ndetse n'utugarurarumuri dukubyemo kabiri tutagaragaza urumuri.

Ikirere kitagaragara neza ndetse n'igiti gitwara amashanyarazi, hakurya y'igiti hari imisozi myinshi itagaragara neza, hakuno y'igiti hari amazu y'ubucuruzi ndetse n'umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye harimo moto ndetse n'imodoka.

Umuhanda mugari urimo ikinyabiziga kirekire gitwara ibicanwa, ndetse uwo muhanda ku ruhande hakari akayira k'abanyamaguru katagaragara neza. Inyuma y'iyo modoka hakaba hari n'ibindi binyabiziga byiganjemo moto ndetse kuhande rw'uwo muhanda hakaba hari ibiti n'amazu.

Imodoka ntoya itwara abantu mu buryo bwa rusange ndetse aho ihagaze ku ruhande rwayo hakaba hari izindi, mo hagati y'izo modoka hakaba hari abantu barimo batambuka. Imbere y'izo modoka hakaba hari nanone urujya n'uruza rw'abantu, n'inzu imeze nk'ayo itanga cyangwa se icururizwamo.

Urubuga rwo kuri murandasi rutangirwaho amakuru y'akazi ya leta, birerekana uburyo wakinjira ukoresheje imayili yawe ndetse na nimero ya telefone yawe ndetse ukaza no gukoresha ijambo banga.

Umuhanda munini uturanye n'inzira y'abanyamaguru ndetse n'ikiraro iteme ririho umuhanda usukira mu wundi, imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange ndetse n'ibiti birebire, hirya harimo umugenzi urimo gutambukira mu kayira n'urugo ruri mu mabara y'icyatsi.

Akayira k'abanyamaguru gaturanye n'umuhanda mugari urimo ucamo imodoka ipakira imizigo ifite uburebure bugari ndetse hakurya y'umuhanda hari urugo ruzitiye ibiti biri hanze.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka, amamoto ndetse n'abantu bikoreye imizigo. Ukikijwe n'amatara yo ku mihanda ibiti ndetse n'abantu barimo kugenda, umuhanda usa n'aho ushaje na rigori.

Umuhanda mugari urimo ikinyabiziga k'imitende itatu moto, ndetse hakurya y'uwo muhanda hakaba hagaragara ibyatsi hasi ndetse n'ibiti hejuru ndetse n'ikirere gisa n'aho kirimo akazuba gake, imbere y'uwo muhanda hakaba harimo imodoka isa n'iy'itambuka ndetse n'abantu bari kugenda mukayira k'abanyamaguru.

Umuhanda mugari, uturanye n'akayira k'abanyamaguru, umuhanda ukaba urimo ibinyabiziga bitandukanye, birimo imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ndetse inyuma y'iyo modoka hakaba hari ama moto, ndetse n'abagenzi, ku ruhande rw'uwo muhanda hakaba hari ibiti birebire cyane, ndetse bikurikira uwo muhanda.

Mu muhanda nyabagendwa urimo urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga bihagaze n'ibigenda, harimo amagare ndetse kuri uwo muhanda ku mpande hakaba hari amapoto y'amashanyarazi, ndetse n'inzu. Imbere y'uwo muhanda hakaba hari ibiti birebire ndetse imbere cyane hakaba hari imisozi n'ikirere kitagaragara neza.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye birimo moto zikoresha mazutu ndetse n'izikoresha umuriro w'amashanyarazi, hakurya hari uruzitiro ruri mu mabara y'umweru ndetse n'igiti kirekire, insinga z'amashanyarazi ndetse n'ipoto n'amatara yo ku muhanda.

Umuhanda urimo abamotari n'abagenzi barimo kugenda, hakurya y'umuhanda hari ibiti ndetse n'amapoto y'amashanyarazi hari imodoka zirimo kugenda ndetse zifite n'ibara ry'ubururu.

Umuhanda urimo ikinyabiziga cya moto ndetse kuri uwo muhanda hakaba harimo ibiti birebire ndetse n'indabyo hasi bituranye n'undi muhanda uri mu rundi ruhande rw'ibumoso na wo ukikijwe n'ibiti birebire ndetse ibyo biti bikaba bituma ikirere kitagaragara neza ariko bikaba bigaragara ko hari akazuba.

Umuhanda urimo imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, iyo modoka ikaba ifite ibirahure bibonerana ndetse hakurya hakaba hari igiti gitwara umuriro w'amashanyarazi n'ipoto ririho itara ryo ku muhanda, hakurya hakaba hari ibiti byinshi ndetse n'ikirere kitagaragara neza.

Umuhanda mugari ndetse n'akayira k'abanyamaguru, mu muhanda hakaba harimo imodoka ndetse na moto. Mu kayira k'abanyamaguru harimo umuntu wikoreye umufuka w'umweru. Hakurya y'umuhanda hagaragara igiti kiriho itara ryo ku muhanda, ndetse n'ibiti bikikije umuhanda. Ndetse hakaba hagaragara n'ikirere kirimo akazuba gake.

Umuhanda urimo imodoka zihetse imizigo iri mu mabara y'umukara ndetse n'imbere yato hakaba hari izindi, akayira k'abanyamaguru kari ku ruhande ndetse n'ibiti byinshi cyane bikurikiye inkiko z'umuhanda zose.

Umuhanda mugari uturanye n'akayira k'abanyamaguru muri uwo muhanda, hakaba harimo imodoka ziwugendamo ndetse n'izindi zihagaze ku ruhande, muri ako kayira k'abanyamaguru hakaba harimo abagenzi bari kugenda, hakurya y'uwo muhanda hakaba hari n'ibiti bikikije uwo muhanda.

Umuhanda ndetse n'akayira nyabagendwa, uwo muhanda ukaba urimo ibinyabiziga bitandukanye harimo ikinyamitende itatu ndetse ni ebyiri moto, uwo muhanda ukaba ukikijwe n'ibiti ndetse n'abantu barimo kugenda.

Mu muhanda wa kaburimbo ndetse n'akayira k'abanyamaguru, mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka iri mu mabara y'umweru ndetse inapakiye ibintu byinshi, hakurya hari uruzitiro ruri mu mabara y'icyatsi ndetse n'ibiti inyuma y'urwo ruzitiro, ikirere ntabwo kigaragara neza ariko kirasa n'igikeye.

umuhanda mugari urimo ibinyabiziga by'imitende ibiri moto ndetse n'abazitwaye kuri ubu ruhande rw'uhanda kaba ari akayira k'abanyamaguru katarimo umuntu n'umwe urimo kugacamo ndetse gaturanye n'urugo rukikijwe n'ibiti ndetse muri urwo rugo kaba harimo n'ipoto itwara umuriro w'amashanyarazi hirya hakaba hari n'ikirere kitagaragara neza

Umuhanda mugari ugizwe n'akayira k'abanyamaguru ndetse n'aho abanyamaguru bambukaniriza mu umuhanda hagizwe n'imirongo y'umweru imbere hari moto ndetse n'imodoka n'ibiti bikikije uwo muhanda.

Moto yahagaze ku mbuga ndetse akayira k'abanyamaguru, umuhanda urimo imodoka nyinshi zibisikana ndetse n'abantu babisikana, harimo imodoka z'umweru ndetse n'iz'umukara hari ndetse n'imodoka nini cyane.

Umuhanda mugari urimo ibinyabiziga bitandukanye ndetse n'abantu bagenda n'abanyamaguru. Iruhande rw'uwo muhanda hakaba hari amamoto ahagaze akoresha umuriro w'amashanyarazi ndetse n'abatwara ayo mamoto. Ndetse inyuma yabo hakaba hari n'ibiti binini by'inganzamarumbu n'amazu agaragara inyuma yabo.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu. Hakaba hari ndetse n'amazu y'ubucuruzi, hakaba hagaragara kandi hirya ipoto itwara umuriro wisumbuye w'amashanyarazi. Ndetse n'igice cy'ikirere kigaragara nk'aho gikeye.

Umuhanda munini mugari urimo ibinyabiziga bitandukanye. Birimo amamoto ndetse n'imodoka zitwara abagenzi muri rusange mu Mujyi wa Kigali zizwi nka shira umuteto. Uwo muhanda kandi ukaba uturanye n'inzira z'abanyamaguru, ndetse hirya y'izo nzira hakaba hakikijwe n'uruzitiro ruri mu mabara y'icyatsi n'ibiti.

Mu umuhanda mugari uturanye n'utuyira tw'abanyamaguru. Muri uwo muhanda harimo akamodoka gatoya gatwara imizigo ndetse n'abantu. Inyuma y'ako kamodoka hakaba hari ikinyabiziga cya moto ndetse n'indi modoka ndende nini ihahagaze itwara imizigo. Ku ruhande hakaba hari uruzitiro ruri mu mabara y'icyatsi ndetse n'ibiti.

Umuhanda usa n'ushaje urimo ibinyabiziga by'imitende bya moto biri mu mabara y'ubururu, iri imbere ikaba isa n'ishaka gukata ndetse uwo muhanda ukaba ukikijwe n'ibiti byinshi hakurya yaho ndetse hakaba hari n'ibiti bitwara amashanyarazi biriho n'amatara yo ku muhanda.

Umuhanda mugari ndetse n'igice gitoya cy'akayira k'abanyamaguru, ndetse hari n'imodoka ishaka kwinjira mu muhanda ngo igende. Hakurya y'uwo muhanda hakaba hagaragara ipoto iriho itara ryo ku muhanda ndetse n'ibiti bikikije uwo muhanda. Hakurya hakaba hagaragara amazu menshi aro ku gasozi nk'aho ari mu mugi, ndetse hejuru hakaba hagaragara n'ikirere cyiganjemo ubururu n'umweru.

Umuhanda munini uri gucibwamo n'imodoka nini cyane ipakiye ndetse muri uwo muhanda ukaba uturanye n'utuyira tw'abanyamaguru hakurya ndetse no hino, iyo modoka na none ikaba ibisikana n'ibinyabiziga birimo amagare ndetse na moto, ndetse muri utwo tuyira hakaba hacamo abagenzi hakurya y'uwo muhanda hakaba hari ibiti birebire ndetse n'ikirere kitagaragara neza gikingirijwe n'ibyo biti.

Umuhanda urimo imodoka zitandukanye izitwara imizigo minini ndetse n'iz'abantu ku giti cyawe, iruhande rw'izo modoka hakaba hari abantu bikoreye imifuka bagenda n'amaguru, hirya hakaba hari ibiti birebire by'inganzamarumbu.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye amamodoka, amagare ndetse n'amamoto, ku ruhande hakaba hari amazu menshi ndetse n'abantu ba nyiri ayo mazu ndetse ku nkiko z'uwo muhanda hakaba hari ibiti binini birebire bikurikira uwo muhanda.

Umuhanda mugari urimo ibinyabiziga bitandukanye birimo ikinyamitende ebyiri ndetse n'eshatu, igare ndetse na moto uyu muhanda ukaba uturanye n'inzira z'abanyamaguru ebyiri ndetse hakurya hakaba hari n'urugo rukikije aho ngaho.

Umuhanda munini uturanye n'inzira y'abanyamaguru. Ukaba urimo imodoka itwara imizigo ndende cyane iri mu mabara y'icyatsi, hakurya hakaba hari ibiti birebire cyane bituma umuntu atabona neza ikirere ndetse n'uruzitiro ruri mu mabara y'icyatsi.

Umuhanda ndetse n'akayira k'abanyamaguru, muri uwo muhanda hakaba harimo imodoka zihagaze imbere y'urugi rwinjira ku nzu ndende y'umuturirwa y'ubucuruzi ndetse inyuma yaho hakaba hari izindi modoka zihagaze, hakaba hari n'ibiti birebire.

Umuhanda urimo imodoka y'umweru ndetse n'ubururu, hakurya hari ibiti bikikije umuhanda ndetse n'urugo. Hari kandi n'imodoka y'umukara iri mu kerekezo kizamuka.

Ihuriro ry'imihanda n'ibinyabiziga bitandukanye, ibiti ndetse n'amazu biri hakurya yaho. Hari uruzitiro mu ibara ry'umuhondo ndetse inzu zisakajwe amategura mu ibara ry'umutuku.

Umuhanda urimo ikinyabiziga cy'imitende itatu moto, uwo umuhanda ukaba uturanye n'akayira k'abanyamaguru ndetse hakurya y'uwo muhanda hakaba hari ibiti birebire n'urugo rukikije amazu ari inyuma y'uwo muhanda ndetse ibyo biti bikaba bituma ikirere kitagaragara neza.

Imodoka iri mu muhanda ndetse imodoka ikaba itwara abantu muri rusange iyo modoka ikaba ifite amabara y'umweru ibirahuri bibonerana . Imbere yiyo modoka hakaba hari abagenzi nyuma y'iyo modoka hakaba hagaragara igice gitoya cy'inzu ndetse n'utundi duce dutoya tw'imisozi n'amashyamba .

Umuhanda munini uturanye n'akayira gato k'abanyamaguru ndetse n'iteme ritoya, muri uwo muhanda hakaba harimo imodoka imanuka iri mu mabara y'umutuku itwara imizigo, inyuma y'uwo muhanda kandi hakaba hari ibiti byinshi n'ikirere kitagaragara neza gikingirijwe n'ibyo biti.

Imodoka itwara abagenzi ku buryo rusange izwi nka twegerane iri ahantu ku mbuga. Inyuma y'iyomodoka hari umugabo wambaye ingofero n'umupira w'umweru, ndetse hari n'abandi bantu benshi inyuma y'imodoka, hari n'itara riri kwaka n'izindi modoka nyinshi aho ngaho imodoka iri.

Imodoka itwara abagenzi rusange ifite amabara y'umweru, ubururu ndetse n'ibirahure, hakurya y'imodoka hari umusozi uriho amashyamba ndetse n'amapironi, hakurya y'imodoka na none haragaragara igiti kiriho amatara yo ku muhanda.

Umuhanda mugari uturanye n'akayira k'abanyamaguru, uwo muhanda ukaba urimo imodoka itwara abagenzi. Ndetse hakurya y'uwo muhanda nanone hakaba hari akandi kayira k'abanyamaguru, ndetse n'igice gitoya cy'ipoto ritwara amashanyarazi, ndetse n'amatara yo ku muhanda maremare. Hakurya hakaba hari urugo ruzitiye, imbuga iri inyuma ndetse n'ibyatsi bihishe.

Umuhanda munini urimo ibinyabiziga bitwara imizigo mu mabara y'umweru ndetse n'inzira y'abanyamaguru irimo itambukiramo umugore. imbere hari moto iriho n'uyitwaye ndetse hirya hari ibiti birebire cyane n'uruzitiro rw'icyatsi.

Umuhanda urimo imodoka ihetse iyindi ndetse ikaba uturanye n'inzira z'abanyamaguru n'ikiraro kiri hafi aho ngaho gisukira umuhanda mu wundi. Hakurya hakaba hari ibiti birebire cyane bikingirije amazu menshi ndetse n'uruzitiro.

Umucaca ndetse n'imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ndetse n'izabantu ku giti cyabo ziri mu muhanda, inyuma yizo modoka hakaba hari amazu menshi ndetse hakurya hakaba hagaragara imisozi iteyemo ibiti n'amashyamba.

Umuhanda urimo utunogo bisa naho ushaje, ukaba urimo imodoka itwara imizigo iri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umweru, akayira k'abanyamaguru katarimo abantu barimo kugenda, ibiti birebire biri hakurya ndetse n'akazuba k'agasusuruko.

Imbuga irimo ibinyabiziga bitandukanye muri ibyo binyabiziga harimo ibitwara abagenzi mu buryo buri rusange ndetse n'amagare hakurya nanone hakaba hari izitwara abagenzi ku giti cyabo ndetse n'abantu bahari hirya y'iyo modoka hakaba hari amazu menshi ndetse n'ibiti.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye harimo moto ndetse n'amagare imbere hakaba hari n'imodoka, ndetse kuri uwo muhanda hakaba uturanye n'akayira k'abanyamaguru harimo abantu bagenda, hakurya y'ako kayira k'abanyamaguru hakaba hari amazu manini y'ubucuruzi.

Umuhanda ndetse n'akayira k'abanyamaguru, uwo muhanda urimo imodoka ndende ifite ibara ry'umweru n'ubururu, hakurya y'uwo muhanda harimo umuntu ugenda mu kayira k'abanyamaguru, hakurya ye hari uruzitiro ruzengurutseho ingo ziri inyuma y'umuhanda, hari n'ibiti byo ku muhanda.

Umuhanda urimo imirongo y'umweru icagaguye ndetse n'iy'umukara ndetse urimo ugendwamo n'imodoka. Hakurya y'imodoka hari akayira k'abanyamaguru hatambukiramo abagore babiri. Impande y'abo bagore hari ipoto y'amashanyarazi ndetse impande y'iyo poto inyuma yayo hari inzu.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye amamodoka ndetse n'amamoto, imbere y'uwo muhanda hakaba hari urujya n'uruza rw'abantu batandukanye ndetse n'inzu z'ubucuruzi zigaragara hakurya, ndetse hakaba hagaragara n'imisozi miremire iriho ibiti by'amashyamba ndetse n'ikirere kirimo akazuba.

Umuhanda urimo umurongo w'umweru ndetse hakaba hari n'imodoka itwara abagenzi muri rusange irimo guca muri uwo muhanda, hakurya y'iyo modoka hakaba hari n'izindi zihagaze zirimo mu mabara y'umutuku, inyuma y'izo modoka kandi hakaba hari n'inzu ndende zimeze nk'aho ari inzu z'ubucuruzi hakaba hari n'ipoto itwaye umuriro w'amashanyarazi, inyuma y'izo nzu na none hakaba hari ibiti byinshi ndetse n'ikirere hejuru kigaragara ko nta mvura gifite.

Abaturage benshi barimo kugenda hasi mu mbuga. Ndetse hejuru yabo hakaba hari inzu ndende y'umuturirwa, ndetse hirya y'iyo nzu hakaba hari izindi nzu ndende zitari ndende cyane nanone, zifite amabara y'umutuku. Iyo nzu ikaba ifite ibirahuri bibonerana. Ndetse hejuru hakaba hagaragara ikirere kirimo akazuba.

Ikibuga cy'umukino w'intoki wo kujugunya mu dukangara. Imbere hari izamu rigizwe n'agakangara ndetse n'urubaho. Inyuma yaho kandi hakaba hari umucaca wicayemo abana ndetse icyo kibuga kikaba gikikijwe n'uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye n'ibiti byinshi. Mo imbere muri icyo kibuga, hakaba harimo amabara y'umutuku n'icyatsi.

Imisozi iri kure ndetse mbere y'iyo misozi hakaba hariho amazu menshi maremare ari mu mujyi, hakuno yaho nanone hari umuhanda usa n'ubururu ndetse n'undi muhanda usa n'umukara wa kaburimbo.

Ibyatsi byinshi by'umucaca biri ahantu hameze nko mu kibaya, muri icyo kibaya biri hamwe hari ibyatsi byinshi ahandi hari bikeya bisa naho izuba ryavuye cyane, hirya y'aho hari ibyatsi bike hari utuntu tw'utunogo ndetse n'utununga turi muri ibyo byatsi.

Imbuga ngari ihagazeho moto ndetse n'imodoka ,nyuma y'imodoka hari urugo rukikije iyo mbuga ndetse n'ibiti byinshi cyane ,ikirere kitagaragara neza ndetse n'aho abantu banyura b'abanyamaguru.

Ikibuga bakiniramo umukino w'intoki, icyo kibuga kikaba gifite igiti kiriho inkangara bajugunyamo umupira iyo bari gukina ndetse inyuma yaho hakaba hariho n'ikirahuri, inyuma y'icyo kibuga hari ibyatsi ndetse n'ibiti binini by'inganzamarumbo, icyo kibuga kikaba gikikijwe n'urugo cyangwa se uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye.

Umumama bigaragara ko ashinzwe gutanga ibyo kurya cyangwa kunywa ahantu, ndetse hakaba hateguye neza intebe zikozwe mu mbaho ziteye neza, ubusitani bw'indabyo, ndetse n'ibiti hakurya, bigaragara ko hari ahantu abantu biyakirira, ndetse hateye neza rwose.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ishusho ya mpande eshatu, kizengurutswe n'ibara ry'umutuku n'imbere hakaba harimo ibara ry'umweru, rikurikiwe n'ibara ry'umukara ririmo rigaragaza ikirango cy'icyo cyapa cyo mu muhanda.

Icyapa cyo mu muhanda kigaragaza ko umuhanda harimo abantu bari kuwukora, kandi hari n'umuhanda urimo usa n'ushaje, uwo muhanda ukaba ukikijwe n'ibiti byinshi harimo n'indabyo, imbere y'uwo muhanda hakaba hariho n'ibindi byapa byo mu muhanda.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye birimo moto ndetse n'imodoka ndetse n'aho imodoka zihagarara zitegereje abagenzi, icyapa kigaragaza ko imodoka zitwara abagenzi zihahagarara ibyatsi ndetse n'ibiti bikikije inkiko z'uwo muhanda ndetse n'ikirere kigaragara nk'igikeye.

Ibyapa byo mu muhanda bigaragaza ko hari ikibuga k'indege ndetse n'ahantu hazamuka nangwa se haterera, ibyo byapa bikaba biri mu mabara y'umweru, umukara ndetse n'umutuku, ku ruhande rwibyo byapa hakaba hari igiti cy'ururabo ndetse hakurya hakaba hagaragara udusozi turimo amashyamba ndetse no hejuru hakaba hagaragara ikirere gisa n'umweru.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ishusho yampande eshatu kikaba kizengurutswe n'ibara ry'umutuku' imbere muriryo bara hakaba harimo ibara ry'umweru, ndetse inyuma hakaba hari ikirango cyo mu mabara y'umukara agaragaza ko ari umuhanda usukira mu wundi.

Umuhanda munini ndetse n'ibyatsi n'ibiti bikikije ku muhanda, hari n'icyapa gifite amabara y'umutuku n'umweru, hejuru hari ikirere kivanzemo icyatsi n'umweru ndetse mu muhanda harimo n'umuringoti.

Ihuriro ry'imihanda ibiri umuhanda umwe usukira mu wundi muri uwo muhanda hakaba hahagaze imodoka isa n'ubururu, nyuma y'iyo modoka nanone hakaba hari ibyatsi ndetse n'ibiti, n'amazu menshi ndetse kuri uwo muhanda hakaba hari ibiti by'amashanyarazi, ndetse hakaba hari n'icyapa kigaragaza nimero y'umuhanda hejuru hakaba hagaragara n'ikirere gisa n'ubururu.

Birabujijwe kuhahagarara umwanya munini cyangwa se umutoya, iki ni icyapa cyo mu muhanda kigaragaza ko ahantu habujijwe kuhahagarara, kikaba kiri mu mabara y'umutuku akizengurutse ndetse hakaba hacirimo n'umurongo mu imbere harimo n'imodoka bibujijwe ko ihahagarara.

Icyapa cyo mu muhanda kiri mu ibara ry'umutuku umuhondo ndetse n'umukara no mu ishusho ya mpande eshatu, kigaragaza ko umuhanda imbere bari kuwukoraho ndetse kikaba kirimo umuntu ufashe igitiyo asa nukura akanogo ahantu.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ishusho ya mpande eshatu kizengurutswe n'ibara ry'umutuku, mo imbere muri iryo bara ry'umutuku hakaba harimo ibara ry'umuhondo ndetse n'ibimenyetso bibiri biranga amerekezo mu ibara ry'umukara.

Icyapa cyo mu muhanda kibuza ko ahantu hemerewe guca n'ibinyabiziga hakaba kigizwe n'umuzenguruko w'umutuku ndetse uciyemo umurongo nawo w'umutuku hakaba harimo ikinyabiziga cya moto cyicaye umuntu ndetse n'ikindi kinyabiziga cy'imodoka.

Icyapa cyo mu muhanda kivuga ko bibujijwe kuhahagarara umwanya munini, icyo cyapa kikaba kiri mu mabara y'umutuku umweru ndetse n'umukara kikaba kirimo imodoka ishushanyijemo imbere muri icyo cyapa ifite udutara imbere tubiri ndetse n'ibirahuri bigaragaza inyuma...

Icyapa cyo mu muhanda gifite ishusho ya mpande eshatu kizengurutswe n'ibara ry'umutuku imbere muri harimo ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara inyuma y'icyo cyapa hakaba hari ibiti bitoshye ndetse n'ibindi byumye, hakaba hagaragara ikirere gisa n'ubururu.

Ikirere gisa n'ubururu hasi y'ikirere hari imisozi iteyemo amashyamba ndetse n'umuhanda uca muri ayo mashyamba, hakuno y'umuhanda hari icyapa kiri mu mabara y'ubururu cyubakiye ndetse imbere y'icyo cyapa nanone hakaba ikindi cyapa cyanditsemo ngo akarere ka Rusizi, icyo cyapa gituranye n'ipoto y'amashanyarazi.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ishusho ya mpande enye kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, hakaba harimo inyuguti ya p ndetse n'igishushanyo cy'imodoka biri mu mabara y'umweru bigaragaza ko hari aho abagenzi bahagarara.

Ibyapa bishinze ku cyuma birimo abana babiri, ndetse icyo hejuru kiriho umusaraba gifite ubuso bw'umweru, hakurya hari urugo ruzitiye ndetse hari n'imodoka hari n'umuhanda abana barimo kugenda mo, hirya hari amafoto atwara amashanyarazi ndetse n'ibiti.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ishusho ya mpande enye mu mabara y'umuzenguruko w'umweru, ndetse n'ibara ry'ubururu n'ikirango cy'umweru bigaragara ko kigaragaza ko umuhanda ukomeza nangwa se ukaba usukira mu wundi.

Icyapa cyo mu muhanda ki mu ishusho ya mpande enye mw'imbere muri icyo cyapaka harimo inyuguti ya pa ndetse n'imodoka itwara abagenzi muri rusange. Icyapa kikaba kigaragaza ko hemerewe kuhahagarara umwanya munini ndetse n'umutoya.

Birabujijwe kuhagarara umwanya munini ndetse n'umwanya muremure. Icyapa kiri mu mabara y'umweru ndetse gifite ubuso bw'umuzenguruko, kikaba gifite amabara y'umutuku ndetse n'umukara, harimo imodoka ifite amatara.

Icyapa kigaragaza ibibera mu muhanda icyo cyapa kikaba gifite ishusho y'umuzenguruko w'umutemeri kizengurutswe n'ibara ry'umutuku mo imbere muri icyo cyapa hakaba harimo ibara ry'umweru ndetse harimo n'amagambo yanditswe mu ibara ry'umukara makumyabiri bigaragara nk'aho kibuza kurenza umuvuduko wa makumyabiri.

Icyapa cyamamaza inzoga ya AMSTEL, hariho icupa ry'AMSTEL ripfundikiye, hakaba hariho n'ikirahure cyasutswemo inzoga ya AMSTEL, munsi yaho hari imodoka ikindi kandi hejuru yaho cyangwa k'uruhande rwaho hari inzu. Ushobora kwibaza ngo AMSTEL ni iki? AMSTEL ni ubwoko bw'inzoga busembuye ikundwa n'abanyarwanada benshi, abantu benshi bakunda inzoga cyangwa banywa inzoga zisembuye, bakunda kwifatira AMSTEL.

Ikirere gisa n'ubururu ndetse n'amashyamba menshi. Imbere y'ayo mashyamba, hari icyapa kiri gifite ubuso bwa mpande eshatu ndetse n'umuzenguruko w'umutuku, mo imbere muri icyo cyapa harimo umweru ndetse n'abana mu kirango cy'umukara.

Umuhanda mugari urimo imirongo icagaguye ndetse n'iyikomeza ituranya n'akayira k'abanyamaguru, kuri uwo muhanda ku ruhande hakaba hagaragara icyapa kiri mu mabara y'umuhondo n'umukara cya mpande enye kigaragaza ko imbere hanyerera, ndetse ku muhanda hakaba hagaragara inzu nyinshi ndetse n'ibiti bikikije uwo muhanda.

Uruzitiro ruriho nimero yurwo ruzitiro iri mumabara y'umweru ndetse n'umukara hariho umubare icyenda. Hasi kundiba yurwo rusitiro hakaba hagaragara igice gito cy'ibwatsi, ndetse n'imbere muri urwo ruzitiro hakaba hari igiti kirekire n'ikindi giti cyiri inyuma ndetse hakaba hagaragara n'ikirerere cyiri mwibara ry'ubururu.

Ibyapa byo mu muhanda bibiri, kimwe kiri hasi, ikindi kiri hejuru. Icyo hasi kikaba kiri mu ishusho ya mpande eshatu, icyo hejuru kikaba kiri mu ishusho ya mpande enye. Nyuma y'icyo cyapa hakaba hari ibiti birebire by'inganzamarumbu ndetse n'ikirere kiri mu ibara ry'ubururu.

Igice gitoya cy'umuhanda kirimo ibinyabiziga bitandukanye gituranye n'akayira k'abanyamaguru, ndetse hakaba hari n'ibyapa bigaragaza ko aho hantu hatemewe guca imodoka zitwara imizigo. Hakaba hari ikirere cyererutse gifite amacu y'umweru ndetse hasi hakaba hari n'ibiti byinshi cyane.

Icyapa cyo mu muhanda kiri mu ishusho rya mpande eshatu gifite umuzenguruko w'umutuku ndetse harimo ubuso bw'umweru gifite n'ikirango cy'umukara nyuma y'icyo cyapa hakaba hari igiti kinini cy'inganzamarumbu ndetse gitwikiriye.

Akarere ka Bugesera, umuhanda munini ndetse n'akayira k'abanyamaguru, uwo muhanda ukaba urimo gucamo imodoka zitandukanye ndetse hakaba hari n'ibiti n'ibyatsi bikikije uwo muhanda, imbere yawo hakaba hagaragara imisozi ndetse n'amazu menshi ari hamwe mu murwa.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ishusho ya mpande eshatu kizengurutswe n'ibara ry'umutuku, mo imbere hakaba harimo ibara ry'umweru ndetse n'ikirango kiri mu ibara ry'umukara, bigaragaza ko hari utununga namva se udusozi mu muhanda.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ishusho ya mpandeshatu, kizengurutswe n'ibara ry'umutuku, mo imbere harimo ibara ry'umweru ndetse n'ikirango cy'umukara; bigaragara ko berekana aho imihanda ihurira, ese aho imihanda isukira mu wundi.

icyapa cyomumuhanda gisobanura birabujijwe kuhahagarara umwanya munini ndetse n'umuto kikaba kigizwe n'amabara y'umuzenguruko w'umutuku ndetse n'imirongo inyuranamo nayo yomumabara y'umutuku mw'imbere naho hakaba harimo ibira ry'ubururu

Ibyapa byo mu muhanda ndetse n'inzobere zishyiraho ibyo byapa, muri byo byapa hakaba harimo ibiri mu mabara y'umuzenguruko, mo imbere handitsemo amagambo mirongo itandatu, ndetse inyuma y'ibyo byapa hakaba hari inzu ndende z'imiturirwa n'ibyapa bigaragaza icyo izo nzu zikorerwamo.

Icyapa cyo mu muhanda kirimo mu bwoko bwa mpande eshatu ndetse n'ubuso bumwe n'ikirango cy'umukara, kikaba kiri ahantu hari indabyo ndetse n'ibyatsi, hasi imbere hakaba hagaragara ibiti birebire ndetse n'amazu ari ku ruhande yaho ndetse hakaba hagaragara n'agace gatoya k'umuhanda karimo imodoka.

Icyapa cyo mu muhanda gifite ubuso bwa mpande enye kigizwe n'umuzenguruko w'umuhondo ndetse n'umukara, gifite ikirango kiri mu buso mu ibara ry'umukara ndetse n'umuhondo.

Icyapa gikozwe nk'umutemeri kizengurutswe n'ubuso bw'umweru ndetse n'umutuku n'imbere muri icyo cyapaka harimo ibara ry'ubururu, ndetse n'imirongo inyuranyemo mo imbere muri icyo cyapa. Icyo cyapa kandi kikaba gihagaze ku cyuma.

Icyapa kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru n'igiti gifashe icyapa, munsi y'icyapa inyuma yacyo hari ibyatsi byinshi ndetse n'ibiti, inyuma y'ibiti hari inzu ndende y'umuturirwa ndetse n'itara hino y'icyapa hari abaturage ndetse na kaburimbo.

Umuhanda mugari, iruhande rw'uwo muhanda hakaba hari ibyapa bigaragaza aho ihuriro ry'iyo mihanda yerekeza. Mu mabara y'ubururu ndetse kimwe kikaba cyanditseho ngo: "Akanyaru, Huye, ikindi kikaba cyanditseho Kibugabuga, Nyamiyaga. Imbere kuri uwo muhanda hakaba hari abaturage benshi bagenda ndetse n'amazu menshi cyane, bisa n'aho ari mu mujyi.

iki ni icyapa cyo mu muhanda gifite ishusho y'uruziga cyangwa se umutemeri kizengurutswe n'ibara ry'umutuku n'imbere muri iryo bara ry'umutuku hakaba harimo irindi ry'umweru ndetse n'amagambo yo mw'ibara ry'umukara mirongo itatu bigaragara ko kiri kubuza ko kurenza umuvuduko wa mirongo

Umuhanda utarimo ikinkinyabiziga na kimwe ndetse n'inzira y'abanyamaguru itarimo umugenzi n'umwe, hakurya hakaba hari ibiti byiza cyane biri mu mbuga, inzu ndende cyane y'umuturirwa bigaragara ko ikorerwamo n'abantu biyubashye, ikirere kirimo akazuba.

Igisate gitoya cy'umuhanda kirimo kunyuramo ikinyabiziga cya moto ndetse n'utwaye icyo kinyabiziga ndetse icyo gisate cy'umuhanda kikaba gituranye n'akayira k'abanyamaguru harimo umugenzi urimo kugenda ndetse hakurya hakaba hagaragara inzu nini imeze nk'urusengero, mu mbuga rw'urwo rusengero hakaba hahagazemo imodoka ndetse hakaba hari n'ibiti birebire byo ku muhanda.

Ikirere gisa n'ubururu ndetse n'amazu menshi ari hasi yacyo ayo mazu akaba hariho inzu isakaje amabati y'umutuku n'insinga zijyana muri iyo nzu amashanyarazi ndetse n'amatiyo y'amazi amanura amazi ku butaka hakurya y'iyo nzu hakaba hari izindi zubakishije amatafari zikoreye n'ibigega by'amazi hejuru.

Umuhanda urimo umurongo w'umuhondoa hakurya hari imodoka zihagaze mwibara ry'umukara umweru ndetse ninzu ndende zimiturirwa ziriho ibyapa byamamaza icyo izo nzu zikorerwamo.

Iri ngiri ni idarapo ry'u Rwanda rya kera mbere ya jenoside y'abatutsi muri maganakenda mirongo ikenda nakane iri ni idarapo bakoreshaga nyuma yago bahinduye idarapo tukaba dufie idarapo rishyashya.

Umuhanda ndetse n'akayira k'abanyamaguru. Inyuma y'ako kayira k'abanyamaguru, haragaragara ibiti bigufiya ndetse n'ibiti birebire, ndetse inyuma y'ibyo biti ntihagaragara neza ariko hasa naho hari ikirere kivamo izuba rikeya.

Amazu menshi asa naho ari hamwe mu murwa ndetse hagati y'ayo mazu hakaba harimo ibiti byinshi, ndetse muri ibyo biti harimo intoki ndetse n'indabyo nyuma y' ayo mazu hakaba hagaragara ikirere kitagaragara neza ndetse ayo mazu akaba asakajwe amabati y'umutuku amenshi.

Kimironko kwa Nayanzira, hasi hakaba hari amazu menshi asa n'aho ari mu mujyi, ndetse n'ibiti byinshi cyane, hakurya na none ku misozi hakaba hari amazu menshi, hakaba hagaragara ikirere kijimye, bisa naho bugiye kugoroba.

Umuhanda munini utarimo ibinyabiziga byinshi, inzu ndende y'umuturirwa y'ubucuruzi iriho ibyapa byamamaza bigaragaza icyo iyo nzu ikorerwamo, hasi hakaba hahagaze imodoka zigiye zitandukanye ndetse n'abantu, hejuru hakaba hari ikirere gikeye.

Agahanda gatoya kari kunyurwamo n'urujya n'uruza rw'abantu, ibisinga byinshi by'amashanyarazi biri ku mapoto, inzu nziza z'ubucuruzi ziri hafi aho ngaho, ndetse zimwe zikaba zikorerwamo na sosiyete y'itumanaho mu Rwanda ya MTN iri mu mabara y'umuhondo.

Umuntu urimo anuka mu kayira inzu ndende cyane igizwe n'amadirisha afite ibirahuri bibonerana n'urusinga rutwara umuriro w'amashanyarazi rujyayo hepfo hari inzu nyinshi cyane bigaragara ko ari mu murwa, intoki, insina ziteye mu mbuga hasi y'iyo nzu.

Amazu menshi ari ahantu mu murwa ayo mazu akaba yiganjemo imiturirwa ndetse n'amazu y'inganda. Mo hagati muri ayo mazu hakaba harimo ibiti byinshi ndetse inyuma hakaba hari ibindi biti byinshi cyane n'amazu atagaragara neza bisa n'aho buhumanye.

Umuhanda urimo ibinyabiziga ndetse n'abantu barimo kugenda muri uwo muhanda, imbere y'uwo muhanda hakaba hari inzu nini y'umutirwa ndende hejuru y'iyo nzu hakaba hari ibyuma by'ikoranabuhanga ndetse ku ruhande hakaba hari n'igice gitoya cy'ibiti kigaragara ndetse n'itara rirerire rimurikira abari mu muhanda hasi.

Umuhanda urimo imodoka nyinshi ndetse n'akayira k'abanyamaguru bambuka n'ibyapa bikikije kuri uwo muhanda ndetse hari n'amatara menshi amurika muri uwo muhanda uwo muhanda ukaba uturanye n'igiti kinini cy'inganzamarumbu ndetse hirya hakaba hari n'amazu menshi.

Umuryango winjira mu rugo rufite inzu nyinshi zigiye zigerekeranya ndetse kuri izo nzu hakaba hakikijwe n'ibiti byinshi ndetse n'insinga z'amashanyarazi zica hejuru y'izo nzu, inyuma y'izo nzu hakaba hagaragara ikirere gikeye cyiza cyane.

Ibyatsi byinshi ndetse n'ibiti birebire hirya hakaba hari urugo rwubakishije amatafari ahiye ndetse n'ibyuma bikikije urwo rugo, mo imbere hakaba hari inzu iteye irangi ry'umweru, ifite amadirisha y'ibirahuri ndetse hakurya hakaba hagaragara n'izindi nzu nyinshi zitabona neza.

Iinzu nini cyane ndende kandi y'umuturirwa ifite imiryango myinshi bigaragara nk'aho ari inzu y'ubucuruzi. Kuri iyo nzu na none hakaba hari ibyapa bigaragaza icyo izo nzu n'imiryango bikorerwamo iyo nzu ikaba ifite inzugi ziri mu mabara y'umweru.

Ikirere kijimye ndetse n'imisozi hakurya, hakuno hari amazu menshi mu mujyi ndetse ayo mazu asakajwe amabati y'umutuku, hari ibiti muri ayo mazu ndetse harimo n'ifite urutoki inyuma y'aho gato.

Umuhanda mugari urimo umurongo w'umuhondo utandukanya ibisate by'umuhanda, hakurya hakaba hari imbuga ihagazemo ibinyabiziga bitandukanye birimo imodoka ndetse n'amamoto, n'abantu bari kwerekera. Impande y'ibyo binyabiziga muri iyo mbuga hirya, hakaba hari inzu ndende y'umuturirwa imeze nk'iy'ubucuruzi, iriho ibyapa izo nzu zicururizwamo.

Inzu ndende y'umuturirwa, igizwe n'amadirishya ndetse n'ibirahuri bibonerana, inzugi nyinshi cyane ndetse ikaba iteye irangi ry'umukara n'umweru, hejuru hakaba hagaragara ikirere gikeye cyane.

Umuhanda ndetse n'imodoka ziparitse kuruhande rw'umuhanda; hejuru y'izo modoka hari ibiti byakuze cyane ndetse hino y'umuhanda hari indabyo ndetse n'amazu menshi hariho n'indobo y'ubururu.

Amazu menshi ari ahantu mu mujyi imbere hakaba hari inzu isakajwe amabati y'umutuku ndetse n'ibisiga bitwara umuriro w'amashanyarazi n'ibyuma bikikije uruzitiro bituma batahiba, ndetse hakurya hakaba hagaragara imisozi itagaragara neza n'ikirere cy'ubururu.

I Remera igiti kiriho icyapa ndetse inyuma y'icyo giti hakaba hari ibyatsi nyuma yibyo byatsi hakaba hari uruzitiro rwubakishije amatafari ndetse n'ibyuma mwimbere muri urwo ruzitiro hakaba hari inzu ziteye irangi ry'umukara ndetse n'izisakaje amabati y'umutuku hakaba hari ni poto y'amashanyarazi n'ikirere cyerurutse .

Insinga z'amashanyarazi cyangwa se imigozi itwara umuriro w'amashanyarazi munsi y'izo nsinga hakaba hubatse amazu asakajwe amabati y'umutuku ndetse no hagati y'izo nzu hakaba hateye urutoki hakaba hagaragara amakoma y'insina ndetse n'ibiti nyuma muri izo nzu kandi hari n'indi poto iriho umuriro w'amashanyarazi hejuru hagaragara kandi n'ikirere gikeye .

Ibiti ndetse munsi y'ibyo biti hari agatebe k'intambike, hirya y'ako gatebe haragaragara izindi ntebe nyinshi ziri mu itsinda mo hagati y'izo ntebe hakaba harimo ameza, inyuma y'ayo meza hari inzu ifite ibirahure bibonerana ndetse n'umuryango wijiramo, muri uwo muryango hari icyapa kigaragaza ibikorerwamo muri iyo nzu kiri mu imbere muri iyo nzu.

Ibiti byinshi by'inganzamarumbo bisa n'aho ari ishyamba, ndetse ku ruhande hakaba hari umuntu ushinzwe umutekano ndetse n'ingunguru. Ku ruhande hakaba hari ibiti binini by'imigano ndetse n'igiti kigaragaza ko aho hantu habujijwe kuhinjira.

Agace gatoya k'imodoka itagaragara neza ndetse n'aho ihagaze hasi hakaba hari n'amazu akorerwamo ibintu bitagaragara neza, inzu ndende cyane y'umuturirwa igizwe n'ibirahuri by'umukara bitabonerana ndetse ifite n'imiryango na none isize irangi ry'umukara n'ibyapa ku ruhande bigaragaza icyo iyo nzu ikorerwamo.

Ku muvunyi, ibiti byinshi birebire, imodoka nini iri mu mabara y'umweru ndetse n'izindi, amazu menshi ari hagati mu biti, ikirere kitarimo ibicu bisa n'aho gikeye nta mvura gihatse cyane.

Inzu nyinshi zubakishijwe amabati y'umutuku ndetse ziteye n'irangi ry'umweru n'ubururu, ziri mu biti byinshi ndetse hakaba hagaragara n'izindi ndende n'ibikoresho by'ubwubatsi, hakurya hakaba hagaragara n'umusozi uriho ibiti n'ikirere kitagaragara neza.

Amazu menshi ari ahantu mu murwa ndetse imbere y'ayo mazu hakaba hari imirima ihinzemo imyaka itandukanye, muri iyo myaka twavugamo nk'ibigori ndetse n'ibiti n'urutoki, hakurya hakaba hagaragara nanone ikirere gifite ibara ry'ubururu n'umweru bisa naho nta mvura gifite.

Kimirunko rwa Mushimire ihuriro ry'imihanda, ndetse imihanda ikikijwe n'ibiti byinshi, inyuma y'icyapa cyanditseho Kimironko hakaba hari amazu menshi cyane, ikirere ndetse gisa n'ubururu gikeye ndetse n'imisozi igaragara inyuma y'amazu menshi.

Inzu ndende y'umuturirwa igeretse andi mazu menshi ndetse inyuma y'iyo nzu hakaba hagaragara ikirere, ku ruhande rw'iyo nzu hari igiti kirekire, munsi y'iyo nzu hasi hari imodoka zihahagaze ndetse n'ibiti bizamuye birimo amabara y'umweru n'umutuku, hakuno y'ibyo biti hari moto zihatembera.

Umuhanda urimo imodoka nyinshi ndetse hakurya y'uwo muhanda hakaba hari ipoto y'amashanyarazi itwaye insinga nyinshi, hakurya y'iryo poto hakaba hari inzu nziza y'umutamenwa isize amabara y'umweru ndetse n'igitaka, hejuru hakaba hari ikirere gikeye.

Umuhanda w'igitaka, uhagazeho imodoka ndetse izindi zinagenda. Uwo muhanda ukaba ukikijwe n'ibiti, nyuma y'ibyo biti hakaba hari amazu ateye irangi ry'umweru n'amadirisha y'ibirahuri. Hejuru hakaba hagaragara igice cy'ikirere kimeze nk'aho gihatse akazuba gake.

Urubuga rwo kuri murandasi rutangirwaho amakuru y'akazi ya leta, birerekana uburyo wakinjira ukoresheje imayili yawe ndetse na nimero ya telefone yawe ndetse ukaza no gukoresha ijambo banga.

Inzu ndende y'umuturirwa iyo nzu ikaba ifite ibyumba hejuru ndetse no hasi iyo nzu kandi hasi hakaba hari amamodoka ahagaze ndetse n'abaturage bagenda mu mbuga y'iyo nzu , imbere y'iyo nzu mu mbuga hakaba hateye igiti cy'ururabyo ndetse kirekire n'inyuma hari ikindi giti cy'ururabyo kigufi

Imodoka zihagaze hanze y'inzu y'umuturirwa igeretseho andi mazu ndetse iyo nzu ku ruhande rumwe hakaba hari ibara ry'umukara risize inkuta ry'iyo nzu, hasi hakaba hari indabyo ndetse hakurya y'iyo nzu hakaba hagaragara ikirere. Ikirere munsi yaho hakaba hari inzu iteye irangi ry'umutuku ku mabati ndetse n'indabyo zikikije iyo nzu.

Imbuga irimo imodoka nyinshi zitandukanye ziri mu ibara ry'umukara ndetse imbere kuri iyo nzu hakaba hubatse inzu nini imeze nk'aho ari isoko ry'iguriro rifite ibyapa bigaragaza icyo izo nzu zikorerwamo, iyo nzu ikaba ifite ibirahuri by'umukara ndetse hejuru hakaba hakagaragara n'agace gato k'ikirere.

Kimironko ku murenge hasi hakaba hari uruzitiro ruzitiye inzu zirimo imbere ndetse harimo n'ibiti n'ibyatsi birebire inzu ndende zifite ibirahuri by'umukara ndetse n'indi ifite ikirahuri cy'umukara hejuru handitseho byiza ikirere kirimo akazuba.

Imodoka nziza iri mu mbuga iri mu mabara y'umukara ifite ibirahure bibonerana, imbere y'iyo modoka hakaba hari inzu iri mu mabara y'ubururu yiganje ndetse ifite n'ibyapa bigaragaza icyo iyo nzu ikorerwamo. Bimwe muri ibyo byapa bikaba byanditsweho ngo amakaro n'ibikoresho by'ubwubatsi.

imodoka y'umutuku ihagaze ahantu mu mbuga ndetse inyuma yayo hakaba hari n'indi y'umukara n'izindi zitagaragara neza n'ibisinga bitwara umuriro w'amashanyaraziba biri mu mbuga iruhande hari inzu ndende y'umutungo ufite ibirahuri bibonerana ndetse iteye n'irangi riri mu mabara y'umuhondo inyuma yose hakaba hari ibiti ndetse ha ejo hakaba hagaragaraye ikirere cyiganjemo ibara ry'ubururu

Umuhanda ndetse n'icyapa kigaragaza nimero y'uwo muhanda, inyuma y'uwo muhanda hari ibiti biteyeho ndetse n'amazu menshi hejuru ikirere gisa n'ubururu ntamvura gihatse ndetse hari n'undi muhanda wisukira mu wundi.

Inzu ndende y'umuturirwa izengurutswe n'urugo rurerure rufite urugi ruri mu mabara y'umukara ndetse n'ibirahure bibonerana, kandi iyo nzu ikaba ifite ibirahure by'umukara na none ku madirishya ndetse n'urugi rw'umukara. Iyo nzu ku mpande, mu mbuga hari ibyatsi ndetse n'ibiti bitandukanye, hejuru haragaragara ikirere kitabona neza.

Imodoka nyinshi ziri mu muhanda ndetse n'amamoto. Abantu bari kugenda mu muhanda w'abanyamaguru imbere yabo hakaba hari inzu nyinshi z'ubucuruzi ndetse inyuma y'izo hakaba hagaragara ibiti hejuru hakaba hari n'ikirere kirimo akazuba.

Kibagabaga amazu menshi cyane amagufi ndetse n'amaremare, maremare yiganjemo ateye ibara ry'umweru ndetse amagufi yasakajwe amabati y'umutuku. Hakurya hakaba hari ibiti bimeze nk'amashyamba ndetse n'imisozi n'ikirere kiri mu mabara y'ubururu.

Insinga z'amashanyarazi ndetse n'amazu menshi ari ahantu mu mujyi y'umuturirwa, inyuma y'ayo mazu hakaba hari umunara muremure ndetse mo imbere muri ayo mazu hakaba hakikijwe n'urugo runini, mo imbere hakaba hari ibyatsi byinshi ndetse n'ibiti birebire.

Ibyatsi byinshi biteye munsi y'inzu irimo kubakwa. Iyo nzu irimo kubakwa ifite amadirishya ataruzura ndetse n'imiryango. Yubakishijwe amatafari ahiye, hejuru ikirere kirijimye ndetse hari n'utundi dukoresho twinjiza umwuka muri iyo nzu. Hakuno y'inzu, hari umukingo urunzeho ibitaka byavanywe aho mu nzu bari kubaka.

Amazu menshi ari ahantu mu murwa ndetse muri ayo mazu hakaba hariho n'ibibuga by'imyidagaduro, ikibuga cy'umupira w'amaguru kigezweho cyubakiwe. Ni ukuvuga ku ruhande kikaba gituranye n'amazu maremare ndetse hejuru hakaba hagaragara n'ikirere kirimo ibicu byiganje.

Remera Rutayisire umuhanda urimo abantu benshi ndetse n'ibinyabiziga bihagaze, inzu ndende y'umuturirwa ku ruhande iriho icyapa kigaragaraza ibikorerwa muri iyo nzu gisa n'ubururu hariho umugore wambaye ibintu by'umukara.

Umuhanda urimo ibinyabiziga ndetse n'ibiti ku mihanda. Amazu maremare y'imiturirwa ariho ibyapa byamamaza icyo ayo mazu akorerwamo, ndetse n'abaturage benshi ku muhanda, bari mu kazi kabo.

Ikirere gisa nubururu ndetse kisa neza hakurya hari imisozi hakuno y'imisozi hari amazu menshi yo mumurwa, ndetse hari n'ibiti hakuno byinshi bimeze nk'amashyamba ndetse n'ibyatsi.

Ihuriro ry'imihanda itandukanye, ikaba irimo ibinyabiziga bitandukanye ndetse hakaba hariho n'inzira y'abanyamaguru, amatara yo ku muhanda ndetse n'ibiti byinshi cyane bikurikira uwo muhanda, amazu ari hafi aho ngaho n'ikirere kirimo akazuba ka mu gitondo.

Umuhanda mugari munini, ukaba ugizwe n'imirongo y'umweru, ndetse nahoho abanyamaguru bambukaniriza uwo muhanda ,ukaba urimo imodoka nyinshi n'amatara yo ku muhanda, ibiti bikurikira uwo muhanda ,ndetse n'insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi.

Ihuriro ry'imihanda uwa kaburimbo ndetse n'uw'igitaka, hakurya hakaba hagaragara nanone amapoto atwaye umuriro w'amashanyarazi n'insinga ndetse inyuma y'ayo mapoto hakaba hari inzu nyinshi zigiye zitandukanye ndetse ugendeye kuri ayo mapoto, inyuma yayo kure uhabona udusozi turiho amashyamba, mu kirere naho urabona ko harimo akazuba k'agasusuruko.

Umuhanda ufite amakorosi ndetse urimo n'ibinyabiziga byinshi binatandukanye birimo moto ndetse n'imodoka nto n'inini zitwara imizigo, umuhanda ukaba uturanye n'akayira k'abanyamaguru ndetse n'inzu, imbere y'uwo muhanda hakaba hagaragara ibiti ndetse n'ikirere kirimo akazuba.

Ndahabona umuhanda urimo imodoka itembera ndetse n'abantu hakurya hari ibiti by'amashamba umuhanda ugeretsweho hejuru ikiraro, gifite inkingi ebyiri hakurya no hakuno hari inkingi. Harimo abantu batemberamo bambaye umupira w'umutuku.

Mu muhanda munini ndetse n'aho imodoka zihagarara zitegereje abagenzi, hakaba haturanye n'akayira k'abanyamaguru karimo abantu barimo bagenda, ndetse kuruhande hakikijwe n'ibyatsi byinshi, hakaba hagaragara amazu menshi n'ibiti biriho amatara amurikira abo mu muhanda.

Ihuriro ry'imihanda no hagati harimo n'ikimenyetso cya mpande eshatu ndetse n'ibyatsi n'indabyo, hakurya hari ibinyabiziga ndetse n'amatara amurika m'umuhanda.

Ihuriro ry'imihanda itandukanye imwe isukira mu zindi, ndetse iruhande rw'iyo mihanda hakaba hari ibyatsi n'amazu menshi ndetse iruhande na none hakaba hari ibyapa byamamaza ndetse n'ibiranga iyo iyo mihanda yerekeza.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye ndetse n'aho abagenzi bategerereza imodoka rusenge zibatwara, uwo muhanda ukaba uturanye n'akayira k'abanyamaguru ndetse ku ruhande rwawo hakaba hakikijwe ibiti byinshi cyane. Hakaba hagaragara n'ikirere gikeye.

Umuhanda bisa n'aho ushaje ariko ukaba urimo ibinyabiziga bitandukanye birimo amamodoka ndetse n'amamoto. Ibiti byinshi cyane bikurikira uwo muhanda, akazuba karimo kuva ndetse bigaragara ko hakiri mugitondo cyane.

Umuhanda urimo gucamo ibinyabiziga bitandukanye harimo imodoka ndetse na moto, hakurya y'umuhanda hari amazu y'ubucuruzi ndetse n'igice cy'ikirere kigaragara gake, inyuma y'ayo mazu hari amashyamba ndetse n'iruhande rw'umuhanda hari andi mashyamba.

Umuhanda mugari uturanye n'akayira k'abanyamaguru, muri uwo muhanda hakaba harimo imirongo y'umweru igaragaza aho abanyamaguru bambukiranyiriza umuhanda ndetse ku ruhande hakaba hari n'ibyatsi, mo imbere kuri uwo muhanda hakaba hari ibyapa byamamaza ndetse n'amamodoka n'ibiti biriho amatara amurikira abo ku muhanda n'ikirere kigaragara.

Umuhanda urimo imodoka y'umutuku ndetse hakurya y'umuhanda hari ibiti byinshi cyane ndetse n'imirongo y'umukara n'umweru, ikirere kigaragara nk'aho gisa neza kitarimo imvura.

Umuhanda urimo ibinyabiziga byinshi, ndetse hafi yaho abanyamaguru bambukaniriza uwo muhanda, ndetse n'ibitanga uburenganzira bwo kwambuka muri uwo muhanda imbere hakaba hari ibiti ndetse n'ibyatsi n'ikirere kirimo akazuba.

Ihuriro ry'imihanda iri mu byerekezo bigiye bitandukanye, ndetse muri iyo mihanda hakaba harimo imodoka zigiye zitandukanye, zijya mu byerekezo runaka, ku ruhande rw'iyo mihanda hakaba hari ibyatsi, ndetse n'ibiti bikurikira inkiko z'iyo mihanda, ndetse hakaba hari n'amazu.

Ihuriro ry'imihanda itandukanye, ndetse mo hagati muri iyo mihanda hakaba hari ipoto iriho amatara amurika ku muhanda, kandi kuri urwo ruhande rw'umuhanda hakaba hari utuyira tw'abanyamaguru, ndetse hakurya y'umuhanda hakaba hari ibiti ndetse n'ibyatsi, ndetse hakurya nanone hakaba hari amazu.

Umuhanda mugari w'ibyerekezo bitandukanye ndetse muri uwo muhanda hakaba harimo imodoka n'ibindi binyabiziga birimo nka moto ndetse n'amatara yo ku muhanda, kuri urwo ruhande rw'umuhanda na none hakaba hari ibiti by'indabyo ndetse n'ibindi binini by'inganzamarombo, imbere hakaba hariyo inzu nyinshi ndetse rumwe rukaba ari urusengero n'ikirere.

Ishusho icuritse ndetse igaragaza umuhanda n'imodoka nyinshi zigenda muri uwo muhanda uwo muhanda ukaba uriho amatara yo ku mihanda ndetse n'ikirere kigaragara nkaho kirimo akazuba gake iyo shusho kandi ikaba igaragaza n'amazu hirya.

Ihuriro ry'imihanda ebyiri ijya mu byerekezo bitandukanye ndetse muri uwo muhanda harimo imodoka uwo muhanda kandi ukikijwe n'ibiti ndetse n'ikirere kigaragaramo gakenya imihanda, kandi harimo imirongo icagaguye y'ibara ry'umweru igaragaza aho abanyamaguru bambukaniriza umuhanda.

Ihuriro ry'imihanda ijya mu byerekezo bitandukanye, ikaba irimo ibinyabiziga bitandukanye birimo amamoto ndetse n'amamodoka, amatara amurikira abo mu muhanda, ibiti byinshi bizengurutse umuhanda ndetse n'ikiraro kirekire hakurya.

Ihuriro ry'imihanda ndetse iyo mihanda ikaba irimo itambukiramo ibinyabiziga bitandukanye, harimo moto ndetse n'imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange. Hakurya y'uwo muhanda hakaba hari umukingo uriho igitaka cy'igitaka ndetse inyuma ye y'uwo mukingo hakaba hari ibyatsi bikingirije amazu.

Akayira k'abanyamaguru ndetse karimo abagenzi benshi barimo kugenda n'abandi bacunze amagare, aka kayira gaturanye n'umuhanda munini nanone uriho ibyapa ndetse n'ibiti bitwara amashanyarazi ku muhanda, ndetse hakaba hagaragara n'amazu menshi ari hakurya, asa naho ari mu murwa, n'ikirere kitagaragara neza.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye ndetse n'akayira k'abanyamaguru, muri ibyo binyabiziga biri mu muhanda hakaba harimo moto, ndetse n'amamodoka manini. Uwo muhanda ukikijwe n'ibiti ndetse n'indabyo haragaragara kandi igice gitoya cy'ikirere.

Umuhanda munini usa naho ushaje ukaba uturanye n'inzira y'abanyamaguru, ukaba urimo ibinyabiziga birimo imodoka zitwara abantu ku giti cyabo na rusange ndetse n'amagare n'amamoto. Ibiti birebire ndetse n'ibyapa, amapoto yo ku muhanda atwaye insinga z'amashanyarazi.

Umuhanda urimo imirongo y'umuhondo icagaguye, hakurya y'uwo muhanda hakaba hari akayira k'abanyamaguru, ndetse hakurya y'akayira k'abanyamaguru hakaba hari ibiti bikikije uwo muhanda ndetse n'amapoto ariho amatara yo ku muhanda, harimo ndetse n'ibinyabiziga muri uwo muhanda.

Ihuriro ry'imihanda igiye itandukanye ndetse muri iyo mihanda hakaba harimo ibinyabiziga, amagare, moto ndetse n'amamodoka hakurya hari n'ikiraro ndetse n'icyapa cyamamaza ndetse ni'itara ryo ku muhanda rirerire inyuma y'uwo muhanda hakaba hari ibyatsi n'ibiti by'amashyamba.

Umuhanda w'igitaka urimo ikinyabiziga cy'imitende itatu moto, ndetse impande y'uwo muhanda hakaba hari ibyatsi hakurya y'uwo muhanda hakaba hagaragara inzu ndetse n'urugo ruki rusizwe ibara ry'umuhondo ndetse n'ibiti ku ruhande rw'iyo nzu, hakurya hakaba hagaragara amazu menshi magufi ndetse n'amaremare, bigaragara nkaho ari mu mujyi.

Ihuriro ry'imihanda ririmo ibinyabiziga byinshi bizamuka ndetse n'ibimanuka, harimo imodoka ndetse n'amamoto, mu muhanda harimo imirongo y'umweru ndetse n'umukara, hakurya y'umuhanda hari icyapa kigaragaza ibyerekezo by'umuhanda, ndetse n'ibiti ku muhanda. Hirya hari amazu ndetse n'uruzitiro rukikije ayo mazu.

Ihuriro ndetse n'itandukaniro ry'imihanda ibiri. Umwe unyura ahantu hazamuka ndetse undi ukomeza ahantu hatereye. Muri uwo muhanda hakaba harimo ikinyabiziga cya moto ndetse umuhanda umwe, ukaba uriho akayira k'abanyamaguru harimo umuntu ugenda muri ako kayira. Hakurya y'uwo muhanda nanone, hakaba hahagaze imodoka ebyiri ndetse uwo muhanda ku ruhande hakaba hariho n'ibiti ndetse n'ikirere hejuru kiragaragara ko gisa n'ubururu.

Ihuriro ry'imihanda itandukanye ndetse hakaba harimo n'ibinyabiziga bitandukanye. Harimo moto ndetse n'imodoka. Hagati y'ihuriro ry'izo mihanda hakaba harimo imbuga iteyemo indabyo zitandukanye. Hakurya y'uwo muhanda na none hakaba hari ibiti bikikije. Ndetse iyo moto ikaba ari moto ikoreshwa n'umuriro w'amashanyarazi.

Umuhanda mugari ndetse ugizwe n'aho imodoka zihagarara ndetse ukaba uturanye n'akayira k'abanyamaguru. Impande y'uwo muhanda hakaba hari ibiti biriho amatara amurikira abo mu muhanda ndetse n'ibitwara umuriro w'amashanyarazi wisumbuye. Muri uwo muhanda hakaba harimo ibinyabiziga bitandukanye ndetse umuhanda ukaba uturanye n'ibiti byinshi n'ikirere kirimo akazuba.

Umuhanda mugari urimo ibinyabiziga bitandukanye hakaba harimo imodoka imwe isa nk'umweru, ndetse hakurya yiyo modoka hakaba hari moto iruhande rw'iyo moto hakaba hari aho banyweshereza ibikomoka kuri peterori ndetse iyo nzu ikaba ituranye n'indi y'ubucuruzi inyuma yiyo mihanda hakaba hari ibiti ndetse n'insinga zitwara amashanyarazi n'ikirere gisa ubururu.

Umuhanda urimo ibinyabiziga byinshi harimo moto, amamodoka ndetse n'imirongo y'imikara n'imyeru iri mu muhanda, uwo muhanda ukaba uturanye n'akayira k'abanyamaguru, hakurya y'umuhanda hakaba hari ibiti byinshi n'ikirere kirimo akazuba gake.

Mu muhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, ibyo binyabiziga bikaba harimo moto, ndetse n'imodoka, umuhanda ukaba uturanye n'akayira k'abanyamaguru, ndetse impande y'akayira k'abanyamaguru, hakaba hariho n'aho abaturage bicara bategerereje imodoka, nangwa se abagenzi, zibatwara mu bice bitandukanye, ndetse n'aho imodoka zihagarara, umuhanda ukaba ukikijwe n'ibiti ndetse n'ikirere.

Umuhand w'igitaka ndetse uwo muhanda ukaba uca iruhande rw'ingo zihakikije hakaba hagaragara ibice bitoya y'ibiti binini ndetse n'indabyo zegereye izo nzu ndetse hakurya hakaba hagaragara andi mazu menshi y'abaturage.

Aho abanyamaguru bambukanyiriza umuhanda aho hantu hakaba hari mu mabara y'umweru ndetse agizwe n'imirongomo hagati yayo harimo umwanya, hakaba hari hakurya hari ibindi byapa bigaragaza ko umuntu yemerewe kwambuka nangwa se atemerewe kwambuka inyuma yaho hakaba hari n'ibiti byinshi.

akayira k'abanyamaguru gaturanye n'umuhanda mugari ucamo imodoka zitandukanye hagati y'ako kayira n'umuhanda hakaba harimo indabyo ndetse n'ibiti birebire uwo muhanda kandi ukaba urimo imodoka y'umweru n'ibiti biriho amatara yo ku muhanda hakurya hakaba hagaragara ibiti birebire ndetse n'ikirere kirimo akazuba.

Umuhanda ndetse n'akayira k'abanyamaguru uwo muhanda ukaba urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka ndetse n'amatara yo ku muhanda. Inyuma y'ayo matara yo ku muhanda hakaba hari ibiti bikikije umuhanda, ndetse n'ibyatsi hasi.

Imihanda irimo ibinyabiziga bitandukanye birimo amamodoka ndetse n'amamoto, ibyapa byo ku muhanda bigaragaza aho abagenzi berekeza, inzira y'abanyamaguru iri ku ruhande, igiti kiriho itara ryo ku muhanda ndetse n'ibiti byinshi cyane by'amashyamba.

Umuhanda urimo imodoka zitandukanye, harimo imodoka y'umweru ndetse n'iy'umukara, hakurya y'izo modoka hakaba hari ibiti bitwara amashanyarazi ndetse n'ibiriho amatara yo ku muhanda, ndetse inyuma y'imodoka y'umukara hakaba hari, inzu yubatse iri mu mabara y'umutuku, ikirere kirasa naho gikeye.

Umuhanda mugari ndetse muri uwo muhanda hagati haha hari imirongo y'umweru yambukirana uwo muhanda, bigaragaza ko ari aho abanyamaguru baca bambukiranya uwo muhanda. Na none uwo muhanda ukaba urimo ibinyabiziga nka moto ndetse n'abazitwaye. Ku ruhande hakaba hakikije ibiti byinshi by'indabyo ndetse n'ikirere kirimo akazuba.

Ihuriro ry'imihanda ijya mu byerekezo bitandukanye ndetse mo hagati muri uwo muhanda hakaba harimo ibyatsi, ndetse imbere hakaba hagaragara imodoka zihagaze n'amazu maremare yubakishijwe amatafari ndetse n'ibiti, mo hagati muri ayo mazu hakaba hagaragara n'ikirere kirimo akazungu.